Abantu bicaye ndetse hari n'umugabo uhagaze imbere y'agatuti gafite ibara ry'umukara afite mikoro mu kuboko kwe kw'ibumoso ndetse yambaye kositime n'ishati y'umweru.

Umwana wambaye ikabutura y'umukara n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi ari ku mugezi, ndetse imbere hari indobo ipfundikiye ifite ibara ry'ubururu hirya ye hari akayira k'igitaka ndetse n'ibyatsi n'ibiti.

Abantu bari ku ipombo bari kuvoma amazi, harimo umugabo wambaye imyenda y'imikara ndetse n'undi wambaye ingofero n'agapira k'amaboko magufi ufite inkoni kandi yejyeranye n'umwana wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku, hirya yabo hari ibyatsi bitandukanye.

Umuganga wambaye itaburiya y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, ateze agatambaro gafite ibara ry'umukara mu mutwe, imbere ye hari umugore wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku, kandi yegeranye nundi wifubitse agatambaro gafite ibara rya oranje.

Abantu bari ku mugezi bafite indobo zitandukanye harimo ifite ibara ry'ubururu iy'umutuku ndetse n'iy'umuhondo harimo n'abafite injerekani hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'igiti. Muri bo harimu umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru.

Abana babiri harimo uwambaye ishati y'amaboko magufi, ndetse mu kiganza cye cy'iburyo afitemo igikombe gifite ibara ry'ubururu, hari undi begeranye uri guseka yambaye ishati yahinnye, amaboko ifite ibara rya pinki, yateze ibiganza kandi inyuma yabo hari ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Inzu isize irangi ry'umweru, rifite inzugi n'amadirishya, ndetse isakarishije amabati afite ibara ry'umutuku, hari abantu bambaye amajire y'icyatsi, ndetse hari ibyuma bisize irangi ry'ubururu, n'amayesikariye.

Abana bambaye amashati afite ibara ry'umuhondo ndetse bazamuye amaboko, inyuma yabo hari abantu bahahagaze barimo umugore wambaye amaherena ndetse mu ijosi yambayemo baje ifite ibara ry'ubururu, hari n'umugabo wambaye ingofero.

Umugore uri gupompa amazi, yambaye agapira k'anboko magufi gafite ibara ry'icyatsi ndetse mu mutwe ateza agatambaro gafite ibara rya beje. Hari umwana ufashe injerekani ari kuvoma, hirya yabo hari abantu bahagaze harimo umugore uteruye umwana kandi hari insina n'ibyatsi.

Abagore bari ku ipombo harimo uwambaye isengeri ifite ibara ry'umweru kandi akenyeye igitenge, hari n'undi wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu, umutuku n'umukara ndetse uwa gatatu we ari kudaha amazi mu ndobo ifite ibara ry'icyatsi.

Umukobwa uri kuvomera mu injerekani ifite ibara ry'umuhondo ndetse inyuma iriho igipapuro kiriho amabara menshi, hariho iry'umutuku, inyuma ye hari imyenda imanitse ku mugozi, hari ifite ibara ry'umukara, ubururu n'iyindi, kandi hirya ye hari inzu isakarishije amabati.

Umuganga wicaye wambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, imbere ye hari ameza ateretseho: impapuro, icupa ryamazi, ndetse imbere ye hari n'abantu bahahagaze harimo abagore n'umwana ufashe icupa mu ntoki, kandi hirya yabo hari idirishya rifite ibirahure.

Abantu bahagaze mu ibaraza ry'inzu ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure ndetse hari n'ahubakishije amatafari ahiye. Hari ahasize irange rifite ibara rya beje kandi hirya yabo hari ibyatsi n'ibiti.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye, zisakarishije amabati; ndetse hari ifite idirishya ririmo giriyaje, imbere yazo mu ibaraza hahagazemo abantu, harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru.

Umwana wateze ibiganza kuri robine ari kunywa amazi ndetse andi arikugwa mu ndobo ifite ibara risa n'ivu imuteretse imbere ,yambaye agakabutura gafite ibara ry'umutuku n'ishati y'amaboko ndetse n'inkweto zifite ibara ry'ubururu hirya ye hari ibyatsi n'ibiti.

Abagore bahagaze harimo uwambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu n'ijire y'icyatsi ndetse hari n'undi uhagaze wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku n'ikote ry'umukara, inyuma yabo hari inzu ifite amadirishya y'ibirahure ndetse yubakishije umucanga n'amatafari ahiye.

Abantu bahagaze harimo abambaye kositimu ndetse n'abandi bambaye amakanzu, inyuma yabo hari igikuta gisize irange rya beje kandi hari n'icyapa kirimo ibara ry'ubururu cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umusaza ufite imvi n'iminkanyari ndetse yambaye ingofero y'umukara, hari umuganga wamufashe ukuboko kw'ibumoso akurambika ku meza abari iruhande, hariho agatambaro k'umweru ndetse akwambikaho igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bicaye imbere yabo, bari ku ntebe ifite ibara ry'umutuku, hari ibikuta bifite ibara ry'umweru, ndetse n'icyapa kirimo ibara ry'umweru, n'ubururu, mu bahagaze harimo umugabo wambaye ijire, ndetse n'agapira karimo ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Harimo abagore bakenyeye ibitenge ndetse imbere yabo hari ameza. Inyuma yabo hari idirishya ry'ibirahure kandi hejuru yaryo hariho amakositara.

Abana bari kuri robine yometseho impapuro z'umweru, bambaye impuzankano harimo uwambaye inkweto z'umukara ndetse n'undi yambaye iz'umutuku, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umugore wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ijipo, afashe injerekani ari kuvoma. Iruhande rwe hari umwana uhagaze wambaye agapira k'amaboko magufi karimo ibara ry'umutuku, afashe ku nda ndetse hari n'undi wicaye uri imbere yabo.

Umwana uri kuri robine arunamye ndetse yambaye ikanzu ifite ibara ry'uburu mu imbere yambayemo agapira k'umweru. Imbere ye hari indobo ifite ibara ry'icyatsi yometseho igipapuro kiriho ikirango cya yunisefu, hirya ye hari amazu.

Umwana uhagaze imbere y'umuganga ndetse muganga yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, yambaye ga n'itaburiya bifite ibara ry'umweru imbere yabo hari ameza ariho urupapuro ndetse n'ikaramu.

Umwana wunamye mu iriba ari kuvomera akajerekani ndetse hejuru ye hari n'undi upfukamye wambaye umupira w'amaboko ufite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari abandi bana bari mu muhanda bari kugenda kandi hari ibiti n'ibyatsi.

Umwana uri ku ipombo yateze ibiganza biri kujyamo amazi kandi arasutamye, hirya ye hari injerekani zifite ibara ry'umuhondo n'indi ifite ibara ry'ubururu ipfundikishije umupfundikizo ufite ibara ry'umutuku, hirya ye hari ibihuru.

Umwana wikoreye injerekani ndetse hari n'umugabo uyifasheho wambaye amarinete, agapfukamunwa hamwe n'ingofero n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, iruhande rwabo hari undi wambaye agakomo ku kuboko kw'iburyo kandi ari no kubafotora hirya yabo hari ibyatsi.

Umugore uri ku iriba ari kuvomera injerekani ndetse akenyeye igitenge, yambaye umupira w'amaboko n'ingofero. Inyuma ye hari ahantu hari icyapa cya inisefu ndetse hari n'insina n'ibiti bitandukanye.

Umwana wambaye ijipo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agapira k'amaboko, mu imbere yambayemo ishati ifite ikora ry'umweru, ari ku rukarabiro ari gukaraba mu kiganza kandi hirya ye hari ibiti by'amoko atandukanye.

Abantu bicaye mu ntebe ndetse harimo umugabo wambaye karuvati yambaye na kositimu y'umukara, hari amazi ateretse ku meza mato abari ku ruhande rw'iburyo kandi hariho n'indangururamajwi.

Umwana wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari muganga, ufite urushinge ari kumutera ku kuboko kw'ibumoso, yambaye ga n'ishati y'amaboko, ndetse n'itaburiya n'amaboko magufi, kandi ikindi mu ijosi yambayemo baji ifite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari abandi bantu bicaye.

Umugabo wambaye inkweto n'ipantaro by'umukara, ndetse yambaye n'agapira k'amaboko magufi, gafite ibara rya oranje, afashe umwana uhagaze ku munzani, wambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'amasogisi, ndetse inyuma yabo hari umuntu wambaye impeta ku kuboko kw'iburyo.

Abana bari ku ipombo harimo uwambaye inkweto zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'imyenda ya kahake, imbere ye hari injirekani zifite ibara rya beje n'iy'umuhondo kandi hari umwana w'umukobwa wambaye ijipo ifite ibara ry'umutuku hirya yabo hari ibyatsi.

Umugabo wicaye ku ntebe ndetse hari umugore ukikiye umwana uteza agatambaro gasa n'ivu, umwana yambaye iherena ku gutwi ndetse n'utwenda turimo ibara ry'ubururu, hirya yabo hari undi mugabo wicaye, imbere ye hari ameza ariho impapuro ndetse afite ikaramu mu kuboko kw'iburyo.

Umugore uryamye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru, yambaye agapfukamunwa ndetse yiyoroshe igitenge. Ku ruhande rwe rw'ibumoso hari undi mugore umufashe ukuboko no ku rutugu, ku ruhande rw'iburyo hari umuganga uri kumviriza wunamye iruhande rwe.

Abagore bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara harimo uwambaye shanete mu ijosi ndetse ateze igitambaro gifite ibara ry'umuhondo mu mutwe, ndetse imbere yabo hari ameza, hari umugore wambaye ikote ririmo ibara ry'umukara n'umweru n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Icyumba cyicayemo abantu kandi imbere yabo hari ameza, hariho igitambaro kirimo ibara ry'umweru n'ubururu; hateretseho amashakoshi ndetse n'uducupa tw'amazi ya Nile. Hagati yabo hari umugore uhagaze, yambaye ikanzu y'umweru n'ikoti ry'umukara rifite amaboko magufi. Hirya ya bo hari amadirishya ariho amarido afite ibara rya shokora.

Abantu bari kuri robine, harimo umubyeyi wateretse umwana mu ibase, ari kumwoza, yambaye agapira gafite ibara rya pinki, ndetse akenyeye n'igitenge, hirya ye hari umwana uhagaze, kandi hari n'undi ufashe umugore ufite indobo mu ntoki.

Umugore wambaye amarinete, ndetse yambaye umwenda w'igitenge, kirimo amabara atandukanye, na sharupe yifubitse inyuma yazirikiye imbere irimo ibara ry'umukara, umuhondo, kandi inyuma hari abana bamukikije.

Abantu bahagaze mu muma pave, abenshi muri bo bafite terefone mu ntoki, harimo abambaye amataburiya y'amaboko magufi, afite ibara ry'ubururu, kandi harimo n'umugabo wambaye ikositimu zifite ibara ry'umukara, mo imbere yambayemo ishati y'umweru, inyuma yabo hari ibiti.

Umugore ukikiye umwana w'uruhinja ku bibero yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira n'agatambaro ateze umutwe gafite ibara ry'umweru hirya ye ibumoso hari umwana uhicaye ndetse hino hari n'undi mugore wunamye kandi hari uwicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru afite impapuro mu ntoki.

Umugabo uri gseka afashe ku ijerekani yikorewe n'umwana wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya pinki ,umugabo we yambaye uw'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu ndetse n' ijire.

Abana bari ku iriba harimo uhagaze wambaye inkweto z'ubururu, ikabutura irimo ibara ry'umweru, umutuku n'umukara ndetse hari injerekane zifite amabara atandukanye, inyuma yabo hari ibyatsi by'amoko atandukanye.

Abantu bambaye imipira y'amaboko magufi, ifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'undi wambaye uw'umweru, bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi y'inyange, ndetse n'ibitabo bifite ibara ry'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri zitandukanye harimo ababyeyi bahetse abana ndetse hari idarapo ihagaze hagati rifite ibara ry'icyatsi umuhondo n'ubururu kandi hari ihema rifite ibara ry'umweru hirya yaho hari inzu ifite amakostara.

Abantu bari ku ipombo ndetse hari abagore babiri bayifasheho bakeneyenyera ibitenge, harimo uwambaye isenge rifite ibara ry'umweru ndetse n'undi wambaye agapira karimo ibara ry'ubururu umutuku n'umukara, hari umugore uteruye indobo adashye amazi kandi yambaye ibirenge.

Abana bicaye bambaye udupira dufite ibara rya oranje ndetse hari umuntu wambaye ijire ifite ibara rya kake n'agapira k'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara afite inkongoro ari kunywesha umwana, inyuma yabo hari abandi bahagaze harimo uwambaye isaha ku kuboko kw'iburyo n'undi ufite inkongoro mu kuboko kw'iburyo.

Umubyeyi ukikiye umwana yambaye ibitenge, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga mu ntoki, yafashe ku mutwe w'umwana ari kumuvura.

Umuntu wahinnye ukuboko ndetse yambaye umwenda urimo uturongo dufite ibara ry'umukara n'umweru, iruhande rwe hari umuganga wambaye ga mu ntoki ndetse afite urushinge ari kumutera ku kuboko.

Abana bari ku ipombo imbere yabo hari utujerekani ndetse inyuma yabo hari amabuye, ruguru hari imodoka ihaparitse ifite ibara ry'umweru, hakurya yabo hari ibiti n'ibyatsi.

Abantu bahagaze ku ivomero ndetse n'abandi bicaye, harimo umugabo wambaye agapira k'umutuku n'agapfukamunwa ndetse n'ipantaro y'umukara, hari amabase n'injerekani, hirya y'abo hari ibiti kandi hari n'amazu.

Umwana uri ku mugezi yambaye agapira gafite amaboko magufi ndetse n'ikabutura ifite ibara rya pinki, imbere ye hari anjerekani afasheho ari kuyivomera ifite ibara ry'umuhondo kandi hirya ye hari ibyatsi ndetse n'insina zifite amakoma.

Abana bari ku ipombo, hari ijerekani itezetse imbere yayo ifite ibara ry'umuhondo, kandi hari umwana ufite inkoni mu ntoki wambaye ikabutura ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku na bote z'umukara, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse hari uruzitiro rw'imiyenzi.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara harimo abagabo bambaye ikositimu zifite amabara atandukanye, bakikije ameza abari hagati arambuyeho agatambaro k'umweru kandi ariho na mudasobwa, hari ufite telefoni mu ntoki wageretse ukuguru k'ukundi ndetse ku bibero bye hariho impapuro.

Abana bambaye impuzankano ndetse hari uri munsi y'igiti ari gukaraba, imbere ye hari indobo nini ifite ibara rya shokora ndetse yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara rya oranje, hirya ye hari undi wambaye inkweto z'umweru.

Abagore babiri harimo ukenyeye igitenge gifite ibara ry'umukara nicyatsi ndetse numugabo uhagaze hejuru yimifuka myinshi wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu ya'maboko ndetse n'pantaro yumukara bombi bateruye umufuka umwe kandi hirya yabo hari ibiti.

Umuntu wambaye inkweto z'umuhondo, ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi, imbere ye hari umugezi uri gutemba. Hari umwana uri hakurya yaho wicaye wambaye inkweto zifite ibara ry'icyatsi, hari ibyatsi by'amoko atandukanye.

Abagore babiri bunamye ndetse imbere yabo hateretse injerekani, bateze ibiganza kuri robine bombi ,kandi hejuru yabo hari undi wunamye wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umutuku ashikamishije ukuboko kw'iburyo ku ivomero, inyuma yabo har'ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe bafite igitambaro cy'umweru, bari mu ihema rifite ibara ry'ubururu n'icyatsi n'umuhondo ndetse n'umweru, inyuma yabo hari icyapa kimanitse ndetse imbere yabo hari umugabo uhagaze ufite mikoro.

Abantu bari ku ipombo baje kuvoma amazi, harimo umwana wambaye inkweto z'icyatsi ndetse n'agakabutura gafite ibara ry'ubururu, afite akajerekani k'umweru mu ntoki gafite umupfundikizo w'umuhondo ndetse hari akandi k'umuhondo ari kuvomera, hirya ye hari undi uhagaze kandi hari n'umugore uteze agatambaro, hirya yabo hari ibyatsi n'ibiti.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu ibara ry'umweru riri mu ry'ubururu, hari akarongo gatambitse gatandukanya ayanditse he hejurundetse n'ayanditse hasi kandi harimo icyapa cya yunisefu.

Umugore wambaye ibitenge ateraye umwana wambaye amasogisi afite ibara ry'umweru n'agapira gafite ibara ry'ubururu, iruhande rwabo hari umuganga wambaye itaburiya ndetse hari n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye kiriho ikibaho cyometseho impapuro, hejuru yabo hari umunzani.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse yambariyemo agapira k'amaboko magufi k'umweru iruhande rwe hari undi uhagaze we ufite ipapuro mu ntoki kandi hari undi uri hirya ye wicaye n'umugore wambaye ingofero n'agapfukamuwa afite ibara ry'ubururu hagati yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse na mudasobwa.

Abantu bahagaze munsi y'igiti, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo umugabo wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku, wambaye ijire ndetse n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku. Mu ntoki afitemo ikayi, ari gusobanurira abantu bamukikije ibijyanye n'ubuzima.

Abantu bicaye abandi barahagaze mu byatsi inyuma yabo hari ihema rifite ibara ry'umweru, mu bahagaze hari abambaye amatabuririya afite ibara ry'ubururu kandi hari' numugabo wicaye wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru.

Abantu basutamye n'abandi bahagaze inyuma, abenshi muri bo bambaye udupira dufite ibara ry'umweru, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye kandi kimanitseho icyapa kirimo amabara atandukanye.

Abantu benshi bicaye higanjemo ababyeyi bakikiye abana ku bibero ndetse bicaye ku mukeka, hari umugabo wambaye agapira gafite ibara rya oranje n'ipantaro y'umukara ndetse na marinete afite icyansi mu kiganza ari kunywesha umwana.

Umwana usutamye, ateruye indobo ipfundikiye ifite ibara rya oranje, imbere ye hari iriba rifite robine enye, kandi hahagaze n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu, hirya ye hari igikuta gisize sima ndetse cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bicaye bambaye amataburiya afite ibara ry'ubururu ndetse hari n'abagore bakenyera ibitenge n'umugabo ufite telefone mu ntoki, imbere yabo bose bafite ibitabo ndetse hari n'abafite amakaramu.

Umugore uri kuvomera amazi mu ndobo ifite ibara ry'umukara, ateruye umwana, kandi yambaye agapira k'amaboko magufi akenyeye n'igitenge. Hirya ye, hari inzu zubatse mu buryo bwa kera, za nyakatsi, ndetse hari n'ibiti.

Abantu bahagaze ndetse imbere hari abagore babiri basutamye. Bari mu mabuye arimo ibyatsi, inyuma yabo hari inzu isize ibara rya beje ndetse ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure. Hejuru ku madirishya n'urugi hari amakositara.

Umugore wambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso ndetse afite ibisuko ku mutwe, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Umwana uri guseka afite ibirahuri bibiri mu ntoki, ndetse yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umuhondo n'ikabutura ifite ibara ry'ubururu, hakurya ye hari abandi bahagaze kandi hari ibyatsi n'amazi amuri inyuma.

Umugabo wambaye agapira ka maboko magufi gafite ibara rya oranje yahuje ikiganza n'umwana umuri imbere kandi inyuma yabo hari abandi bantu bicaye, hari n'undi uhagaze wambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, hari ibiti n'ibyatsi.

Umugore wambaye itaburiya y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu yicaye ku ntebe, ndetse iruhande rwe hari umugabo n'umugore wambaye agakote afite ibara ry'umukara; ukuboko k'umugabo kw'ibumoso gufashe ku nda y'umugore, ukw'iburyo kumufashe ku rutugu.

Abantu bateze amaboko bari kubyina ndetse hagati yabo hari intebe imbere yabo hari ameza yegeranye n'inte ifite ibara ry'umukara inyuma yayo hari izindi zifite ibara ry'umweru hari purafo ndetse n'ibikuta byometseho impapuro zigiye zitandukanye.

Umwana uri gufungura robine mu kuboko kw'iburyo afashemo igikombe, yambaye ishati n'ikabutura kandi iruhande rwe hari ikigega gifite ibara ry'umukara, inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abaganga bahagaze bambaye udupfukamunwa n'amarinete, kandi mu mutwe harimo udufire hagati harimo uwambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, abandi babiri bari ku ruhande bambaye inzu ifite ibara ry'ubururu hirya yabo hari idirishya.

Abantu bahagaze mu byatsi, biri imbere y'inzu isize irangi ry'ubururu ifite inzugi n'amadirishya, muri bo hari umugore wambaye ishati y'amaboko ndetse n'ipantaro y' umukara kandi harimo n'umugabo ufashe mu mifuka y' itaburiya yambaye ifite ibara ry'umweru.

Umusore wambaye amarinete ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, mu kuboko kw'ibumoso afitemo isahani irimo ibyo kurya ari kugaburira umwana ukikiwe n'umugore wambaye agapira gafite ibara ry'umweru, hirya yabo hari abandi bantu.

Abantu bahagaze ku pombo hari umwana wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku ari kuvoma ndetse n'umugore wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi, mu mutwe ateze agatambaro hirya yabo hari abantu bahahagaze ndetse n'ibyatsi n'urutoki.

Abana bahagaze imbere yabo hari umugabo wicaye wambaye ingofero n'umushumi ufite ibara ry'icyatsi mu ijosi, hari undi mugabo uhagaze yambaye ijire ndetse n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku, hirya yabo hari inzu ndetse ifite n'amadirishya.

Abantu bahagaze mu byatsi abari imbere bafite ibipapuro, ndetse harimo umugore uteze agatambaro gafite ibara rya pinki mu mutwe, hari n'umugabo wambaye ingofero y'umutuku. Inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abantu bari ku iriba harimo umugore wambaye siripa z'amoja kandi akenyeye igitenge imbere yabo hari injerekani kandi nyinshi zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'irya beige hari mukecuru uteze agatambaro gafite ibara rya pink mu mutwe kandi hirya yabo hari itsina n'ubundi bwoko bwinshi butandukanye bw'ibiti.

Umwana ufite igikombe cya kiyazi mu kuboko kwe kw'iburyo ari kuvoma, kuri robine imwe indi amazi ari kumeneka, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya oranje.

Abana bambaye impuzankano zirimo ibara ry'ubururu imbere yabo hari abantu bahagaze bahuje amaboko ndetse bose bahagaze kuri tapi ifite ibara ry'icyatsi mu ihema rifite ibara ry'umweru.

Umwana wateze ibiganza kuri robine ndetse hari icyapa cyometse kuri iryo riba, yambaye agapira k'amaboko magufi yahinnye gafite ibara ry'umutuku kandi inyuma ye hari ibihuru.

Umugore ukenyeye igitenge mu kuboko kwe kw'iburyo atengase indobo ifite ibara ry'umuhondo, ikiganza cye cy'ibumoso gifashe indobo yikoreye ku mutwe ifite ibara ry'umutuku imbere ye hari ibiti.

Umwana uri gukaraba mu ntoki ku ipombo ndetse imbere ye hari ibase iri kujyamo amazi, yambaye imyenda idodesheje mu gitenge kirimo ibara ry'umutuku, umweru n'umukara, inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu ndetse mu mufuka wayo harimo ikaramu, mo imbere yambayemo umupira ufite ibara rya kacyi, iruhande rwe hari umugore wambaye agapira k'amaboko magufi, akenyeye igitenge kandi mu kiganza cy'iburyo uwo mugabo afite impapuro zishushanyijeho abantu babiri, hirya yabo hari idirishya ndetse n'igikuta cyubakishije amabuye.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze higanjemo ababyeyi bakikiye abana ku bibero. Hari uwicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi, yamba agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, imbere ye hari umuganga usutamye wambaye agapfukamunwa n'itaburiya ifite ibara ry'umweru.

Umugore ukenyeye agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umuhondo, ubururu ndetse yambaye n'agapfukamunwa mu ijosi, yambayemo agashanete kandi inyuma yambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi n'imbere mo imbere yambariyemo ufite ibara rya oranje, imbere ye hari ibyuma biriho imigozi myinshi itandukanye.

Umugabo wambaye ikote ndetse na karuvate bifite ibara ry'ubururu, mo imbe yambayemo ishati ifite ibara ry'umweru, afite ubwanwa kandi iruhande rwe hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yandikishije ibara ry'umukara.

Abana babiri bateruye indobo mu biganza byabo byombi iyo ndobo yometseho ibipapuro bifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, umwana umwe yambaye ijipo ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'agapira k'amaboko magufi karimo ibara ry'ubururu, hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abantu bicaye harimo umugore uteze agatambaro gafite ibara ry'umweru mu mu matwe akikiye umwana kandi imbere y'abo bantu hahagaze umugabo ufite ikaramu mu kuboko kw'iburyo ndetse mu kw'ibumoso afitemo impapuro, hirya yabo hari iteremusi ihari ifite ibara rya move.

Umusaza wambaye ishati idodesheje mu gitenge irimo ibara rya piki, umuhondo n'ayandi, mu mutwe yambayemo ingofero ndetse iruhande rwe hari umwana uhagaze wambaye agasenge gafite ibara ry'ubururu, imbere ye hari umuganga umufashe ku rutugu yambaye agapfukamunwa n'itaburiya ndetse inyuma yabo hari ibirabyo.

Umwana wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, ari kuvoma ndetse hirya ye hari n'undi uri kuvoma hamwe n'umugore uteze abatamu bafite ibara ry'ubururu mu mutwe.

Umugore ufite igitabo yashyize ku matako ari kwandika ndetse yambaye n'agapfukamunwa, yicaranye n'umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi ,inyuma yabo hari igikuta kiriho icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo sida iracyahari duhaguruke, tuyirwanye.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari amacupa ndetse hari umugore ufite imisatsi miremire wambaye ikote rifite ibara ry'umutuku, mu bicaye imbere hari umugabo urimo hagati, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa.

Umwana wunamye ari gukaraba intoki ndetse yambaye agashati k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi n'ikabutura ifite ibara ry'umukara, imbere ye hari indobo ipfundikiye ifite ibara ry'ubururu kandi inyuma ye hari ibiti n'ibyatsi.

Umuntu usutamye ari kuvoma amazi, imbere ye hari igiti, kandi inyuma ye hari imyenda imanitse k'umugozi harimo ifite ibara ry'ubururu, umukara, n'iyindi, ndetse afite ijerekani kandi ifite ibara ry'umuhondo inyuma hariho igipapuro cyometseho kirimo amabara atandukanye harimo ikintu cy'umutuku.

Umwana wikoreye amaboko ari kurira ndetse hirya ye hari umugore wambaye agapira k'amaboko magufi ukenyeye igitenge mu nda kandi afite inkwi mu kiganza cy'ibumoso, hirya ye hari abandi bantu benshi.

Umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara, ndetse n'iherena ku gutwi kw'iburyo, iruhande rwe hari umukobwa, wambaye, ikanzu ifite ibara ry'ubururu, n'umweru ndetse afite agapupe, mu kuboko kwe kw'iburyo.

Abantu bafite amadarapoo menshi mu biganza byabo afite ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse harimo n'izuba, imbere hari umwana ufite igihanga yambaye umupira udoze mu budodo, ufite ibara ry'ubururu ndetse n'akabara k'umweru ku maboko no mu ijosi.

Abantu bicaye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cya kacye kandi hateretseho uducupa tw'amazi, terefone ndetse n'impapuro. Hari umuntu uhagaze, ufite mikoro mu kuboko kw'iburyo, yambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo umugabo wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi kandi hari n'umugore witeze agatambaro mu mutwe gafite ibara rya oranje, imbere yabo hari umuntu uhahagaze ndetse hari na televiziyo n'igikuta gisize irangi rya beje.

Umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'umuhondo ndetse ari guseka ahumirije bimufasha kuruhuka mu mutwe. Afite amenyo y'umweru kandi afite n'umusatsi muke ku mutwe w'umukara.

Abantu bicaye mu ntebe z'imikara kandi imbere hari indabo ziri ku ruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso rw'ameza ateguyeweho agatambaro k'umweru, mu bicaye imbere bambaye imyenda y'mabara atandukanye kandi hari tapi ifite ibara ry'icyatsi.

Abantu bahagaze ku ma esikariye afite ibara ry'ivu, harimo umugore wambaye ipantaro y'umutuku n'ishati y'umweru, kandi hari n'umugabo wambaye ikositimu z'umukara mo imbere yambayemo ishati y'umweru hari umugore wambaye ikanzu.

Abantu bahagaze ku masikariye kuruhande rwabo rw'ibumoso hari icyapa gihari kiriho abantu kandi hari umugabo uhagaze k'uruhande rw'iburyo, imbere yambaye amarinete n'ishati y'amaboko ndetse n'ipantaro ifite ibara rya kake n'umukandara.

Umuntu uhagaze mu muhanda w'abanyamaguru, ndetse yambaye imyenda yacikaguritse ku ruhande rwe rw'ibumoso hari umuhanda w'ibinyabiziga harimo moto n'imodoka ndetse hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Abantu bicaye ku ntebe y'urubaho hari umugabo ufite terefone mu ntoki, ndetse yambaye umupira w'ingofero ufite ibara ry'umutuku, n'ipantaro y'umukara yegeranye n'undi wambaye ijire ifite ibara rya kake. kandi hari umugore uri guseka wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu. Hagati ye n'undi witeye igitenge hari umwana wicaye.

Umugore wambaye amanete kandi mu ijosi yambayemo shanete na baji, ifite umugozi w'ubururu yambaye ibikomo ndetse n'impeta ku kuboko kw'iburyo, kandi inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu bahagaze ku mayesikariye, hirya yaho ku ruhande rw'iburyo hari icyapa ndetse hari umugabo uhagaze ku ruhande rw'iburyo wambayekositime n'amarinete, yafatanyije ibiganza, yambaye impeta ku kuboko, hagati imbere hari umugore wambaye ijipo y'umukara ndetse afite telefone mu ntoki.

Abagore bicaye mu ntebe, harimo uhetse umwana wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya oranje, ndetse imbere yabo hari umuntu uri kubigisha wambaye umwenda urimo ibara ry'umutuku ndetse n'agapfukamunwa.

Abantu bahagaze higanjemo abambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu harimo n'akabara k'umweru. Ku ruhande rw'iburyo hari umukecuru wambaye ipantaro y'umukara n'ikote rifite ibara rya beje ndetse n'amarinete. Hagati hari umugabo wambaye karuvati, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse bambaye imyenda y'ubwoko bugiye butandukanye, hari umugore wicaye ku ruhande rw'ibumoso yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umukara n'amarinete ndetse n'iherena ku gutwi.

Imodoka iparitse mu byatsi kandi hariho icyapa cyanditse mu magambo y'ubururu ndetse mu rurimi rw'Icyongereza, hirya yayo hari inzu kandi hari n'umuntu uri kugenda.

Abantu bicaye, harimo umugore wambaye amarinete ndetse n'umwenda afite ibara ry'icyatsi, yegeranye n'ubundi ufite mikoro mu kuboko kw'iburyo kandi imbere yabo hari ameza ari igitambaro gifite ibara ry'umweru, ateretseho amacupa atandukanye, kandi hariho na mudasobwa.

Abantu bahagaze mu byatsi ndetse bafite urupapuro bahurijeho ibiganza, harimo umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, ndetse inyuma yabo hari imodoka ihaparitse kandi hari n'amahema afite ibara ry'umweru n'icyatsi.

Abantu bahagaze harimo umugabo uri kuhande rw'ibumoso wambaye isaha ku kuboko, ndetse hari n'umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo, afite n'agasakoshi k'umukara, inyuma yaho hari ibiti ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Umukobwa wicaye mu ntebe ari guseka, yambaye shanete mu ijosi n'amaherena ku matwi, ku kuboko kw'ibumoso yambayeho ibikomo ndetse yambaye isengeri ifite ibara ry'umukara n'ipantaro y'ikoboye yahinye ku kuguru kw'ibumoso.

Umwana wambaye ishati y'umweru yometseho karuvati ifite ibara ry'umukara, ukuboko kwe kw'iburyo yagushyize inyuma ku ntebe ndetse ukw'ibumoso agushikamiriza ku meza amuri iruhande, inyuma ye hari undi mwana wicaye wambaye agapira karimo ibara ry'umutuku.

Abantu bicaye ndetse imbere yabo hari umugore uhahagaze ufite ibisuko bifungishije mu umubano urimo ibara ry'umweru, yambaye isa ku kuboko arafashemo isakoshi afite mikoro mu kuboko kw'iburyo, imbere ye hari umuntu uhahagaze wambaye umupira w'amaboko magufi ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara.

Umusaza uri guseka, yambaye ingofero, ndetse yambaye ishati y'amaboko maremare, irimo ibara ry'umweru, ndetse n'uturongo twumukara, yambaye umwitero ufite ibara ry'umuhondo, kandi afite n'imvi.

Abantu bicaye ndetse n'abandi babahagaze inyuma, ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu, inyuma ye hari umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo n'ikote rifite ibara ry'umukara.

Umusaza ufite ibihanga n'iminkanyari yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu ndetse yiteye umwitero w'umuhondo, inyuma ye hari nundi wambaye imyenda isa nkiye kandi hirya yabo hari ibihu.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse mo imbere harimo amatara ari kwaka kandi ifite amadirishya y'ibirahure, isize irangi ry'umweru, imbere yaho hari ubusitani burimo ibyapa bigiye bitandukanye.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi babasutamye imbere, harimo uwambaye amarinete, n'ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ivu, hari umugabo uhagaze kuruhande rw'ibumoso yambaye ishati y'amaboko, kandi ukuboko kwe gufashe kumeza ateretseho icupa ry'amazi.

Inyubako isize amarangi atandukanye, ifite inzugi n'amadirishya bifite ibirahure, ndetse bisize irangi ry'umweru. Imbere yayo hari ibiti ndetse n'indabo ziri mu busitani.

Abana bambaye impuzankano bazamuye ibiganza harimo abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyenda ya kake, inyuma yabo hari ibihuru ndetse n'ibyatsi byinshi by'amoko agiye atandukanye.

Abantu bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, hari umugabo uhagaze imbere yabo wipfumbase wambaye agapfukamunwa ndetse hari umugore wicaye mu ntebe ziri mu byatsi wambaye agapfukamunwa akenyeye ibitenge kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya kake.

Umukecuru utetse yicaye ku gasonga bugari, imbere ye hari igikombe gifite ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari inzu ifite amadirishya n'inzugi kandi yubakishije amatafari ahiye, hari inkoko iri hafi ye ndetse hirya ye hari urutoki.

Umugabo wicaye hasi yambara agapipomo ku magufi gafite ibara rya piki ndetse n'ikabutura aziritse amapingu, inyuma ye hari abantu bamushungereye bambaye imyenda igiye itandukanye harimo umuntu wambaye inkweto z'umukara zifunze ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umugore wambaye ikote ndetse mo imbere yambayemo agapira gafite ibara rya oranje n'umukara, yikoreye igitebo kirimo ibyatsi ndetse afite isuka mu ntoki, inyuma ye hari inzu isakarishije amategura.

Abantu bahagaze kumurongo harimo uwambaye ipantaro ifite ibara ry'ivu n'umupira wamaboko maremare, ufite ibara ry'umukara n'ninkweto z'umweru, ndetse yegeranye n'umugabo wambaye amanete n'ingofero y'umukara, harimo umugore uri guseka uhagaze hagati wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara yegeranye n'umugabo wambaye agakabutura k'ubururu.

Umuntu wicaye aziritse amaguru, ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso yambaye ho agakomo u kw'iburyo yagushyize ku gahanga, yambaye agapira gafite ibara ry'ubururu harimo uturongo tw'ibara ry'umweru.

Umugore ukenyeye igitenge yambaye ishati y'amaboko maremare irimo ibara rya kake ndetse na shokora yicaye ku rubaho ndetse imbere ye hari umusambi urambuye yambaye inkweto zifunguye z'udushumi.

Umugore we wicaye ku gatebe ahetse umwana kandi akenyeye igitenge imbere hari isafuriya aratetse kandi hari undi mwana umuhagaze iruhande umufashe ku kibero hirya ye hari ibase ifite ibara ry'icyatsi.

Abana bambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umuhondo, hari ufite igipapuro mu biganza ndetse abandi babishyize mu mutwe, hari uri guseka yambaye igipapuro ku kuboko kw'ibumoso gifite ibara ry'umuhondo.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku ndetse harimo umugore ufite imisatsi yambaye agapira karimo ibara ry'umweru n'ubururu, hari abasore bamwicaye inyuma bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umukara, kandi hirya yabo hari undi muntu uhahagaze.

Umugore wazinze umunya, yakanuye amaso, kandi yambaye amaherena ku matwi yombi, mu umutwe yatezemo igitenge gifite amabara atandukanye, harimo iry'icyatsi ndetse na shokora kandi harimo n'akabara k'umweru yambaye agapira gafite ibara ry'umuhondo.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze bari guseka, harimo umugore wambaye ikanzu y'umukara ateruye umwana w'uruhinja kandi hari n'umukobwa wambaye amarinete yegeranye n'undi ufite terefone mu ntoki.

Umwana ufite uburoso burimo ibara ry'umuhondo n'ubururu mu kuboko kwe kw'ibumoso, yambaye ishati y'amaboko yahinnye kandi ifite ibara ry'ubururu hejuru, ari guseka yoza amenyo kandi inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Umwana n'umugore bose bafite imisatsi kandi bambaye udusengeri dufite ibara ry'umweru, bafite uburoso bwoza amenyo, umugore afite amenyo y'umweru ndetse mu kuboko kw'iburyo afitemo uburoso bufite ibara ry'umweru na move.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru, ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro, n'amakaramu, hari umugore wasamye wambaye isengeri, iruhande rwe hari umuganga wamufashe gukananwa, ndetse hirya hari undi wambaye agapfukamunwa k'umweru, uri kwandika, n'umwegereye ufite agacupa ka ji ifite ibara ry'umuhondo, mu kuboko kw'iburyo.

Umugabo ufite amenyo y'umweru ndetse ari kwireba mu ndorerwamo, mu ntoki ze afitemo agashumi gafite ibara ry'umweru yacishije mu menyo kandi yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru, inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umugabo ufite amenyo y'umweru ndetse n'ishinya y'umutuku ari guseka afite ubwanwa kandi yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu yi'ikoboyi iriho igipesu cy'umweru n'ibindi by'umukara n'imbere yambaramo agapira kandoze mu budodo gafite ibara rya shokora.

Umuntu uryamye wasamye, ndetse iruhande rwe hari umuganga uhagaze, yambaye agakomo gafite ibara ry'umweru, umutuku, umukara, n'icyatsi ku kuboko kw'ibumoso, yambaye agapfukamunwa hirya ye hari undi uhagaze, wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu N'ipantaro y'umukara.

Umugore wasamye ndetse yambaye agasegeri. Imbere ye hari ameza ateretseho impapuro na telefone kandi hari umuganga wambaye agapfukamunwa umufashe ku kananwa ari kureba mu kanwa ke. Hirya yabo hari abandi bantu bicaye harimo uri kwandika ndetse n'undi ufite agacupa karimo ji ifite ibara ry'umuhondo.

Umugore ushinkiririje afite amenyo y'umweru ndetse afite n'imisatsi igera mu maso, yambaye amahena ku matwi yombi n'agasengengeri gafite ibara ry'umweru hari akagozi yazirikanyije ku ntoki agacisha muryinyo gafite ibara ry'umweru.

Umuntu wicaye ku ntebe ifite amapine, iriho n'ibara ry'icyatsi, yambaye itaburiya y'amaboko ndetse ifite umufuka urimo ikaramu. Ibiganza bye yabihuje kandi ku kuboko kw'ibumoso yambayeho isaha.

Umuntu uryamye hari abaganga babiri bamwegereye. Uri ku ruhande rw’iburyo yambaye isaha ku kuboko, ndetse n’ishati ifite ibara ry’umweru n’agapfukamunwa k’umukara. Uri ku ruhande rw’ibumoso yambaye agakoma ku kuboko kwe kw’iburyo, ndetse yambaye n’ amarinete n’iherena ku gutwi.

Umusaza ufite imvi yambaye amarinete kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ivu. Imbere ye hari uburoso bufite ibara ry'ubururu n'umweru buri mu kirahure ndetse hari n'ubukarabiro.

Umugabo ufite ubwanwa buke afite n'amenyo y'umweru kandi mu biganza bye afitemo akagozi gato cyane gafite ibara ry'umweru bakoresha mu gihe cyo koza amenyo.

Umukobwa uri kwireba mu ndorerwamo ndetse ari koza amenyo, afite uburoso bufite ibara ry'umweru n'ubururu mu kuboko kwe kw'iburyo kandi mu mutwe atezemo igitambaro gifite ibara ry'umweru, yambaye agasengeri nako k'ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo intebe ifite amapine y'umukara ndetse aho bicara hafite ibara ry'icyatsi, ibikuta bisize irangi ry'umweru kandi harimo televiziyo ndetse hari n'amakaro afite ibara ry'umweru.

Umugabo n'umugore we bambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umweru ndetse, umugabo we hari n'agatambaro binyujije ku rutugu rw'ibumoso gafite ibara ry'umweru, bari kwireba mu ndorerwamo ibari imbere kandi hari n'ubukarabiro.

Umugabo uri guseka afite amenyo y'umweru n'ishinya y'umutuku kandi afite n'ubwanwa, ku rutugu rwe rw'iburyo hariho isume ifite ibara ry'umweru kandi hari akagozi gafite ibara ry'umweru yacishije mu menyo.

Umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse afashe ku rutugu rw'umwana wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi y'amaboko magufi inyuma yabo hari abantu bahagaze harimo umugore wambaye amarinete ndetse hari igikuta kiriho ikibaho cy'umukara.

Icyumba kirimo intebe zifite ibara rya kake ndetse ku nkuta hagiye hari ubukarabiro, hirya hari urugi rufite ibirahure, hejuru muri purafo hari amatara ari kwaka umweru.

Umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi , araramye kandi arasamye, iruhande rwe hari umuganga wambaye agapfukamunwa, ga ndetse n'itaburiya ifite ibara ry'umweru kandi n'imbere harimo karuvati ifite ibara ry'umutuku, hirya yabo hari idirishya ndetse n'amarido.

Umukobwa uri guseka yambaye ikote rifite ibara ry'ubururu ndetse afite mu kiganza cye ikaramu n'urupapuro, yegeranye n'umugore wambaye amarinete yambaye ikote rifite ibara ry'umutuku n'impeta ku kuboko kw'ibumoso, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi.

abana bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu hari uhagaze imbere yazamuye ukuboko kw'iburyo harimo uburoso bufite ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari undi uri koza amenyo ari gukoresha uburoso bufite ibara ry'icyatsi.

Abantu bahagaze ku murongo, hari uwambaye ingofero y'umutuku yayifasheho kandi yambaye n'ikabutura ifite ibara ry'ubururu, irimo uturongo tw'umweru, afite igipapuro mu ntoki, imbere yabo hari ihema rifite ibara ry'mweru ndetse riiriho n'ibara ry'ubururu, hari amatara yo ku mihanda ndetse n'ibiti.

Umugabo uri guseka, yambaye amarinete, afite amenyo y'umweru ndetse n'ishinya y'umutuku kandi afite n'ubwanwa, urutoki rwe ari kurwitunga mu isura kandi yambaye agapira gafite ibara ry'umweru.

Umukobwa ufite imisatsi ndetse mu kuboko kwe kw'ibumoso afitemo uburoso ari koza amenyo, ku kiganza yambayeho impeta, yambaye isengeri ifite ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bafatanye ku ntugu hari uwambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ivu. Hari n'undi wambaye ishati y'amaboko ndetse n'isa ku kuboko hirya no hino bakikijwe n'ibyatsi kandi inyuma yabo hari ibiti.

Umusaza wicaye mu kagare k'abafite ubumuga kandi afite imvi ndetse yambaye n'amarinete, inyuma ye hari umukobwa uri guseka uri kumusunikira akagare yambaye agapira k'amaboko magufi, kandi inyuma yabo hari ibyatsi.

Umusaza ufite imvi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, ndetse yambaye n'ikabutura y'umukara, amaboko ye yombi afashe ku byuma, iruhande rwe hari umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, amufashe ku rutugu ndetse no ku kuboko.

Umukecuru ufite imvi yambaye amaherena ku matwi ari guseka, kandi yambaye umwenda w'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru udoze mu budodo, ukuboko kw'iburyo afashemo ifoke ndetse ukw'ibumoso afashemo isahani y'umweru iriho ibiryo by'amoko atandukanye.

Umuntu uhagaze yambaye amarinete ari guseka ndetse yambaye ishati y'amaboko maremare, ku kuboko kw'ibumoso yambayeho isaha afatanya mu kiganza n'umugore begeranye wambaye agapira gafite ibara ry'umweru n'imbere yambayemo imyenda ifite ibara ry'ubururu, afite imisatsi miremire.

Umukecuru uri guseka yambaye shanete mu ijosi ndetse n'agapira k'amaboko gafite ibara ry'ivu, mo imbere yambariyemo ufita ibara ry'umukara. Imbere ye hari umwana w'umukobwa ufite imisatsi na we ari guseka yambaye agapira k'amaboko gafite ibara ry'umutuku ndetse imbere y'abo hari ameza ariho impapuro.

Umugabo wirabura yambaye agapfukamuwa ndetse yicaye mu ntebe kandi yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari umugore ufite ibisuko ku mutwe na we wambaye agapfukamunwa kandi yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi. Hirya yabo hari ibiti ndetse bari mu byatsi.

Umukecuru ufite imvi ndetse yambaye n'amaherena ku matwi yombi. Iruhande rwe hari umukobwa uri guseka ufite imisatsi myinshi yambaye agapira k'amaboko magufi, kandi umukecuru yambaye ikote rifite imashini ry'ibara ry'umukara.

Umukecuru wambaye iherena ku gutwi, afite umusatsi urimo imvi ndetse yambaye n'amarinete, ku kiganza cye cy'iburyo hariho impeta, afashe ikirahure mu kiganza cy'ibumoso ndetse inyuma ye hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

Abantu bicaye munsi y'igiti kinini gifite amashami n'ibibabi byinshi, harimo abicaye hasi ndetse n'abicaye ku ntebe, hari umugore witeze agatambaro mu mutwe wegeranye n'umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara rya oranje ku maboko.

Umukecuru ufite imvi yambaye iherena ku gutwi kw'iburyo yarambuye amaboko. Imbere ye hari umukobwa ufite imisatsi miremire yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara rya move. Hirya yabo hari amadirishya afite ibirahure kandi arimo n'ibara rya shokora.

Abagabo bicaye hasi bashaje bamwe bafite imvi kandi hari n'abambaye ingofero mu mutwe, hari umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'icyatsi irimo n'uturongo tw'umweru kandi hari n'undi uri kuboha agatebo gato.

Abantu bicaye, ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye isaha ku kuboko ndetse afashe ku kuboko kw'ibumoso k'umugore begeranye. Ku ruhande rw'iburyo, hari umugore wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse ikiganza cye cy'iburyo gifashe ku mwana wicayemo hagati.

Umukecuru wicaye mu ntebe z'imisego zifite ibara risa n'ivu, yambaye amahena ku matwi yombi ndetse n'impeta ku kiganza cy'ibumoso, yambaye agapira k'amaboko maremare ndetse inyuma ye hari umukobwa uri guseka wunamye kandi yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu n'isaha ku kuboko.

Abantu babiri bari mu muhanda, harimo ufite igikapu mu kuboko kw'iburyo gifite ibara rya kake kandi yambaye ipantaro y'ikoboyi. Hirya yabo hari ibyatsi kandi inyuma yabo hari ibiti by'amoko atandukanye.

Abantu bari guseka harimo umusaza ufite imvi yambaye ishati y'umweru, ndetse yegeranye n'umugore we ufite imisatsi myinshi uhetse umwana wambaye imyenda y'ubururu, kandi hari umugabo uhetse umwana w'umukobwa ufite imisatsi myinshi nawe ndetse wambaye akenda karimo ibara ry'umuhondo.

Abantu babiri barambuye amaboko, imbere hari umukecuru ufite iminkanyari mu maso ndetse n'umusatsi urimo imvi. Yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'igitambaro gifite ibara ry'umweru ku kuboko kw'iburyo. Inyuma ye hari umugore wambaye iherena ku gutwi

Abagore babiri harimo uteza agatambaro gafite ibara ry'umutuku mu mutwe yambaye agashanete mu ijosi ndetse yambaye n'umupira yahenye amaboko iruhande rwe hari undi uri guseka afite ibisuko ku mutwe kandi inyuma yabo hari ibiti n'indabo ndetse n'ibyatsi.

Abagore bicaye bambaye ibitenge by'amoko atandukanye imbere yabo hari inyanya zifite ibara ry'umutuku, kandi kuruhande rw'ibumoso hari umugore wambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso, mu ijosi yambayemo agashaneti.

Umusaza ufite umusatsi urimo imvi, yicaye ku buriri yambaye agapira k'amaboko, mu biganza bye afite ikirahure ari kunywa, kandi imbere hari umukecuru uhagaze, wambaye amarinete, ndetse n'iherena kandi yambaye n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu.

Umusaza uhagaze yarambuye amaboko kandi yambaye amarineti afite imvi ndetse yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru n'ikabutura ifite ibara ry'umukara hirya ye hari ibihuru.

Umusaza wambaye amarinete afite imvi ndetse imbere ye hari ikirahure kirimo amazi giteretse ku meza, imbere ye hari undi mugore uhicaye wambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara rya beje yambaye n'iherena ku gutwi.

Umusaza wambaye amarinete afite nive yambaye umupira w'amaboko magufi ndetse hari igitabo afite mu ntoki ari gusoma hamwe numwana begeranye wambaye ishati y'amaboko maremare, imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru ndetse n'amatasi ateretseho.

Umusaza ufite imisatsi irimo imvi ndetse yambaye ishati y'amaboko ifite ibara rya shokora, imbere ye hari ameza afite ibara ry'umweru kandi hariho ikaramu y'umukara n'igitabo hari umuganga begeranye ufite ubwanwa yambaye karuvati ifite ibara ry'ubururu.

Umukecuru ufite imvi, yambaye agapira k'amaboko magufi, ndetse n'isaha ku kuboko, yegeranye n'umugabo wambaye impeta mu kiganza cy'ibumoso, ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, yambaye agapira k'aboko magufi gafite ibara ry'ivu.

Umukecuru ufite imvi yambaye amarinete ndetse n'agapira gafite ibara rya kake karimo uturongo tw'umukara, yafatanye mu kiganza n'umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari ibyatsi.

Umusaza wambaye amarinete ye n'agapira k'amaboko magufi, yicaye mu ntebe z'imisego kandi iruhande rwe hari umuganga ufite imisatsi, wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu, yamushyize igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso ku kuboko kw'iburyo.

Umukecuru bambaye imyenda y'amabara atandukanye bicaye ndetse hari ufite imvi n'iminkanyari. Undi ateze igitambaro kirimo ibara ry'umutuku n'umuhondo, hari n'undi wambaye ingofero iboshye mu budodo ifite ibara ry'ubururu n'umweru, inyuma yabo hari insina.

Umusaza ufite imvi yambaye umupira ufite ibara rya shokora kandi iruhande rwe hari umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'iherena ku gutwi kw'ibumoso. Yamufashe mu bitugu ndetse n'ukuboko ari kumutoza kugenda.

Umusaza wicaye ufite ubwanwa burimo imvi kandi yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umukara, imbere ye hari ameza ateretseho ikirahure kirimo amazi hamwe na mudasobwa kandi ku ruhande rwe rw'ibumoso hari umukobwa uhahagaze umufashe ku rutugu, hirya yabo hari idirishya rifite ibirahuri.

Abagore bari gusarura icyayi, ndetse hari igitebo gitetse hagati yabo, harimo uwambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, kandi hari n'undi uteze igitenge mu mutwe kirimo ibara ry'umuhondo, umutuku, umweru, n'ayandi.

Abakecuru harimo uwambaye amarinete afite terefone mu ntoki ndetse hari n'undi wambaye ingofero irimo ibara ry'umweru n'ubururu, kandi hari undi wambaye umupira w'amaboko ufite ibara ry'umukara yambaye n'amarinete hamwe n'ingofero.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi, umukecuru ari guseka yambaye agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umutuku kandi ku kuboko kwe kw'iburyo yashyize ku bitugu by'umusaza yambayeho agakomo.

Umukecuru uri guseka ari mu muhanda kandi afite umusatsi urimo imvi, yambaye ikote ririmo ibara ry'umutuku ndetse n'umukara ry'amaboko. Mu imbere yambariyemo agasengeri gafite ibara ry'umweru, inyuma ye hari ibihu.

Umuntu wicaye yambaye amarinete afite imvi ndetse yambaye n'agapira k'amaboko magufi iruhande rwe hari umugore ufite umisatsi miremire yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro amufashe ku kuboko kw'iburyo.

Umukecuru n'umusaza bicaye bafite imvi kandi imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro, umusaza afite telefone mu kiganza cy'ibumoso, umukecuru yambaye impeta kandi inyuma yabo hari amadirishya y'ibirahure ndetse n'izindi ntebe.

Umugabo wambaye ipantaro ifite ibara rya kake ndetse n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara afashe ku byuma ndetse iruhande rwe rw'iburyo hari umugore ufite imisatsi miremire yafungiye inyuma yambaye ishati y'umweru mu ntoki afite igitabo.

Umukecuru wicaye yambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso kandi afite umusatsi urimo imvi imbere ye hari umuganga uri guseka wumuzungu wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'umukara kandi inyuma yabo ku buriri hari imisego ndetse n'igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye shanete mu ijosi ndetse yambaye n'isengeri kandi afite imvi ku mutwe, yafunze ibipfunsi ndetse amaboko ye yayarambitse kuri tapi ari gukora siporo.

Abagore bari kumurongo harimo abambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru ndetse n'amajipo y'imikara hari n'undi wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu inyuma ye hari uwambaye ingofero kandi hari n'undi wambaye inkweto zifunguye zifite ibara ry'umutuku.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo hari ameza kandi umusaza yambaye impeta ndetse n'agakomo ku kuboko kw'ibumoso, afite imvi ndetse kandi umukecuru yambaye iherena ku gutwi nawe afite impeta kandi yambaye agapira gafite ibara ry'umutuku.

Abantu bari muri kaburimbo, ndetse hirya yabo hari ibyatsi, harimo umugore wambaye amarinete n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ivu, ndetse n'inkweto z'umukara zifite n'ibara ry'umweru, hari n'undi mugore begeranye wambaye agatambaro gafite ibara ry'icyatsi, ukuboko kw'ibumoso inyuma yabo hari umugabo wambaye imyenda y'imikara.

Umukecuru wambaye amarinet ndetse n'umwenda ufite ibara ry'umuhondo, imbere ye hari ameza y'ibirahure kandi hanateretse n'uducupa duto tw'imiti, inyuma ye hari amadirishya y'ibirahure kandi afite agacupa agiye kunywa ibinini.

Umusaza ufite imvi, yambaye ishati irimo uturongo. Ateruye umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse afite n'igipupe mu kuboko kw'iburyo, gifite ibara rya kacyi n'umweru.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi basutamye imbere yabo bazamuye amaboko, hari intebe zifite ibara ry'umutuku zikikije ameza, hari hateretseho agacupa k'amazi y'inyange ndetse inyuma yabo hari icyapa cyometse ku gikuta.

Abantu bicaye harimo umugabo wambaye ikote rifite ibara ry'umukara n'ishati y'umweru kandi afite igitabo mu ntoki, hari n'umugore wambaye imikenyero kandi mu ijosi yambayemo baje, ifite ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari icyapa cyanditse mu mabara atandukanye ndetse hari n'amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu bambaye imipira ifite ibara ry'umweru harimo umukobwa ufite ibisuko yambaye amaherena ku matwi yombi, kandi inyuma ye hari undi wambaye amarineti ndetse n'umuhungu wambaye umupira mu bitugu.

Umugore wambaye amarineti ndetse n'ihene ku gutwi kw'ibumoso imbere hari agatuti karimo ibara ry'umweru n'icyatsi yambaye jenette mu ijosi ndetse n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi ukuboko kwe kw'ibumoso hariho isaha ifite ibara ry'umukara.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse ari mu nyuguti zifite amabara atandukanye. Hejuru hari ayanditse mu ibara ry'icyatsi kandi hasi yaho hari ayanditse mu ibara ry'ubururu.

Umugore wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara, afite ibisuko ku mutwe ndetse iruhande rwe hari undi wambaye ishati y'amaboko kandi ifite ibara ry'umweru, hagati yabo hari ameza ateretseho mikoro ebyiri.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara. Hari umusaza wambaye amarinete ndetse imbere yabo, hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi tubiri, hariho mikoro ndetse imbere y'uwo musaza, hateretseho mudasobwa.

Umugabo uhagaze munsi y'igiti gifite amashami n'ibibabi, mu ntoki afitemo igipapuro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, yambaye ingofero ndetse na marinete kandi yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, yahenye ukuboko kw'ibumoso, iruhande rwe hari umuganga wambaye ijiri ifite ibara ry'icyatsi, ndetse harimo n'ibara ry'ivu agiye kumutera urushinge.

Abantu bari mu muhanda benshi, higanjemo abambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umweru. Hirya no hino hari ibiti bibakikije, kandi bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo: "Twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira".

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari abandi bateze amaboko bari kubyina harimo: abagabo bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu n'umwitero w'umweru ndetse n'abagore bambaye imikenyero.

Abantu babiri harimo umugore wambaye amaherena ku matwi, hari n'umugabo wambaye ishati y'amaboko ifite ibara ry'umukara, yambaye impeta n'isaha ku kuboko kw'iburyo, ndetse bafite icyapa mu biganza cyanditseho amagambo avuga ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Abantu bahagaze ndetse n'abandi bicayere bambaye udupira dufite ibara rya pink tw'amabokoko magufi, harimo umugore wambaye ibitenge ndetse na marinete, kandi hari n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi w'umugabo uri gufotora, hari umukobwa wambaye agapfukamunwa kandi mu kuboko kw'ibumoso afashemo ibikapu bibiri bifite ibara ry'umweru.

Abantu bicaye imbere ndetse inyuma yabo hari abandi benshi bahagaze, mu bicaye imbere hari umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara kandi hari n'umugabo wambaye kositime y'umukara mo imbere yambayemo ishati y'amaboko ndetse na karuvati ifite ibara ry'umutuku.

Umugore uhagaze ufite mikoro mu ntoki ndetse na terefone yambaye amarinete, inyuma ye hari bafure ndetse imbere ye hari abantu bicaye bageretse ukuguru k'ukundi, hirya ye hari agatuti ndetse hari n'icyapa kirimo amabara atandukanye harimo iry'umutuku.

Abakobwa bahagaze, bambaye imipira y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru ndetse imbere mu gatuza hariho akabara k'umuhondo, harimo abambaye amapantaro y'umukara ndetse n'abambaye ay'ubururu n'umwe wambaye ifite ibara rya shokora, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'urugi rw'ibirahure.

Abaganga bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamuwa hamwe n'udufire tw'umweru mu mutwe hari uwunamye ari kureba mu kanwa k'umugabo wasamye wambaye akagofero gafite ibara ry'ubururu yicaye ku ntebe y'umutuku ndetse hirya yabo hari abandi bantu bahahagaze.

Umuntu uryamye ndetse n'abandi bamusutamye iruhande, harimo abambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abambaye ijere ifite ibara ry'icyatsi n'ibara ry'ivu, bari mu byatsi ndetse hari umugabo uhagaze uri munsi y'igiti, hirya yabo hari indabo.

Abantu bari mu muhanda bambaye imipira y'umweru n'amapanta y'umukara, imbere bafite ibyapa byanditseho amagambo afite ibara ry'umweru, hirya no hino bakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umugore wicaye mu ntebe zifite ibara rya beje, afite mikoro ku kuboko kw'iburyo, kandi yambaye amarinete n'amaherena, yambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse mu ijosi yambaye baji ifite umushumi w'ubururu.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu ufite mikoro, inyuma ye hari agatuti hateretseho mudasobwa kandi hari abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi hamwe na mudasobwa.

Abantu benshi bari mu muhanda, hirya no hino hari amazu, bambaye imyenda y'imyeru, harimo uwambaye uwubururu ndetse n'undi w'icyatsi, imbere bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo: "rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera Sida, ipimishe uyu munsi."

Abantu bicaye bambaye imyenda y'amabara atandukanye, imbere yabo hari abandi bari mu ntebe zifite ibara rya beje, kandi ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wageretse ukuguru ku kundi yambaye ikositimu ndetse muri bo hicayemo n'umugore.

Abantu bicaye imbere hari uwambaye agapfuka munwa k'umweru ndetse yambaye n'ijire ifite ibara ry'icyatsi n'agapira k'amaboko magufi, iruhande rwe hari ameza ateretseho ibipapuro byinshi ndetse n'umuganga wambaye kaskie y'kirahure kandi yambaye n'agapfukamunwa k'umweru nawe.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'udupfukamunwa, inyuma yabo hari umuntu wambaye imyenda ifite ibara rya move, ndetse hirya ye hari urugi rufite ibirahure.

Abantu bicaye ndetse inyuma yaho hari abandi bahagaze ku ruhande rw'iburyo hari idarapo ndetse no ku rw'ibumoso hari irindi, hari umugore wicaye wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara yegeranye n'undi wambaye karuvate y'icyatsi.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, hariho na fondasiyo yubakishije amabuye, inyuma yacyo hari ibyicungo bifite ibara ry'icyatsi n'ubururu ndetse hariho n'iminyururu biri mu byatsi kandi imbere mu gipangu hubatsemo amazu atandukanye..

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe ndetse ku gikuta hari isaha ihamanitse, hejuru muri purafo harimo ibara ry'umweru, kandi hari n'amataburo agiye yometse ku gikuta gisize irange rya beje.

Urugi rufite ibirahure ndetse rusize irange rya beje, hejuru yarwo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'ubururu ndetse yanditse mu ibara ry'umweru, hirya y'urugi hari ibikuta bifite ibara ry'umweru.

Abaganga bambaye amataburiya afite ibara ry'umweru, ndetse bambaye na ga zifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hariho impapuro z'isuku ndetse n'agacupa gafite umupfundikizo ufite ibara ry'icyatsi.

Umusaza wicaranye n'umuganga mu ntebe z'imisego, yambaye amarinete ndetse afite n'imvi, yambaye ishati y'amaboko n'ipantaro kandi umuganga umuri iruhande yamufashe ku rutugu rw'iburyo, yambaye iherena ku gutwi ndetse n'imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isize amarangi y'umweru, kandi hari ahubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, kandi imbere yaho haparitse imodoka.

Inyubako isakashijije amabati yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure zisize irangi ry'umweru, hejuru y'amadirishya hari amakositara ndetse imbere y'iyo nyubako hari ubusitani n'ibiti.

Inzu isize irangi ry'umweru ifite amadirishya n'inzugi biriho giriyaje, isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu kandi imbere yaho hari icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Kinyinya ndetse hari idarapo rihagaze imbere yaho rifite ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi, iyo nyubako ikikijwe n'ubusitani.

Porotare yanditseho Kabgayi Hosipito mo imbere harimo inzu zisakarishije amabati y'ubururu ndetse zifite n'amadirishya kandi zubakishije amatafari ahiye. Harimo ibiti ndetse n'abantu, harimo uri gutwara igare.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ifite amadirishya n'inzugi by'ibirahure kandi isize amarangi y'ubwoko butandukanye, hari n'ahubakishije amatafari ahiye, igipangu cyayo kirimo amapave kandi hari abantu bahagaze n'imodoka ziparitse.

Abantu bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye imipira y'icyatsi, y'amoboko magufi, irimo ibara ry'umukara ku ikora ndetse no ku kuboko, bari imbere y'inzu ndetse hari n'abicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru, hari inzu isakarishijeje amabati.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize irangi rya bege, imbere yayo hari amavaze arimo ibirabo kandi hari n'imodoka ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure; ku ruhande rwayo hariho icyapa kihamanitse.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu, imbere yabo hari indabo ndetse n'akayira karimo amapave, hari ijisho rishushanyije ku gikuta hejuru yaryo handitseho aho bavurira amaso.

Abantu bambaye ibisurubeti bifite ibara ry'umweru ndetse harimo uturongo tw'ubururu. Bari mu cyumba kirimo intebe zifite ibara ry'umukara n'amapine ndetse hari ibitanda biryamyeho abantu n'amarido afite ibara ry'ubururu.

Icyumba kiriho ibitanda biri ku murongo ndetse hari ibiryamyeho abantu, ibyo bitanda bifite amashuka afite ibara rya kake ndetse n'umweru hari supaneti, hejuru kandi hari n'amatara ari muri parafo afite ibara ry'umweru.

Icyumba gifite amakaro, ibikuta, amatara ndetse na parafo bifite ibara ry'umweru, hari intebe zirimo zifite ibara ry'ubururu n'izindi zifite ibara ry'ivu, harimo kamera ndetse hari ijambo ryanditse mu ururimi rw'icyongereza rivuga ngo resebusiyo.

Umukecuru wambaye agatambaro gafite ibara ry'umukara mu mutwe, yambaye ikanzu idodesheje mu gitenge, irimo ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse iruhande rwe hari umugabo uhicaye, yambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari indabo ndetse n'urutoki.

Umuntu uryamye ku gitanda, yambaye ikanzu irimo ibara ry'umweru n'ubururu, iruhande rwe hari umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi, ifite ibara rya pinki ndetse harimo n'akarongo k'umweru, hari n'umugabo wambaye amarinete na karavate ndetse n'inshati y'amaboko maremare, amufashe ku mutwe.

Abantu bahagaze ku mapave bambaye udupfukamunwa ndetse inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, imbere yaho hari itara kandi hirya yayo hari izindi nzu n'ibirabyo.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, imbere yayo hari umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku, uhagaze mu mutaka ndetse hari n'imodoka ziparitse, hirya no hino hagiye hari ibiti.

Umugore wicaye yambaye isengeri irimo ibara rya move, ateruye uruhinja rwambaye ingofero. Iruhande rwabo hari umuganga wunamye wambaye amarinete ndetse n'agafire mu mutwe kandi yambaye itaburiya ifite amaboko magufi.

Umwana muto bashyize mu munzani umanitse hejuru ndetse iruhande rwe hari umugore ufite imisatsi, yambaye ishati ifite ibara ry'umweru. Hari n'undi wicaye uteze agatambaro mu mutwe, gafite ibara ry'umukara ndetse yambaye n'iherena ku gutwi ku ibumoso.

Inzu isize irangi ry'umweru ifite amadirishya n'inzugi bifite ibirahure ndetse bisize irangi ry'ivu, hejuru ku nzu handitseho ijambo inzu y'ababyeyi isakarishije amabati kandi hirya no hino hari ibiti biyizengurutse.

Icyumba kirimo intebe zikoze mu biti, zirimo imisego ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ivu. Harimo ameza ateretseho mudasobwa kandi inkuta z'icyo cyumba zifite ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo amabara menshi atandukanye, ndetse kirimo intebe zifite amapine, amakaro, ndetse hari ibikuta biriho inyamaswa zishushanyije, harimo inzovu, ibisamagwe, n'ibindi.

Inzu ifite amadirishya n'ibaraza ryicayemo abantu, hirya no hino hari ibiti biyikikije ndetse n'ubusitani burimo indabo n'ibyatsi, hari umuhanda w'amapave uri kugendamo abantu batandukanye.

Umuntu uryamye ku gitanda, kiriho ishuka y'umweru, yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, ndetse bamworonsheho ishuka ifite ibara ry'icyatsi, hari umuganga wicaye, wambaye agapfukamunwa, ndetse n'abandi babiri bahagaze, bose bambaye udufire mu mutwe.

Inzu yanditseho ikigonderabuzima cya Tabagwe ndetse hari ama esikariye hejuru yayo hari umugabo wambaye ingofero n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru mu ibaraza ryayo hari abantu bahahagaze kandi imbere yayo hari ubusitani.

Ibitanda biri ku murongo, bifite ibara ry'ubururu, kandi hari ibishasheho amashuka, afite ibara ry'umweru, hamwe n'imisego iri ahagana ku mutwe, hejuru muri parafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru, kandi ibikuta byayo bisize amabara agiye atandukanye.

Icyumba kirimo intebe z'ibiti zifite imisego ifite ibara risa n'ivu, harimo ameza atatu afite amabara atandukanye, ndetse mu nguni harimo ivaze iteretsemo igiti gifite ibibabi by'icyatsi, hari n'akandi kavaze gato gafite ibara ry'umweru gateretse hejuru y'ameza.

Inzu irimo utubati turimo imiti y'ubwoko butandukanye, harimo amakaro y'umweru kandi hejuru kuri parafo harimo amatara, inkuta zayo zifite ibara rya deje, harimo n'intebe ifite ibara ry'umweru.

Inzu isakajije amabati afite ibara ry'ubururu kandi ifite n'amadirishya yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari ubusitani burimo ibyatsi n'ibiti kandi hino yayo hariho icyapa kiri mu muhanda urimo amabuye.

Umuntu uri kugenda yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, ndetse icyumba arimo harimo n'abandi bahagaze bambaye imyenda y'imyeru n'dupfukamuwa, hejuru hari amatara afite ibara ry'umweru kandi ku nkuta hariho ibara ry'umweru n'ubururu

Inzu yubatse ku buryo bugeretse ndetse ifite igipangu gisize irangi ry'umweru kandi hari n'amadirishya y'ibirahure, hari umugabo wambaye ishati y'umutuku ahagaze hagati yimodoka ziparitse.

Inyubako zisize amarangi atandukanye, imbere hari ibaraza ririmo abantu ndetse imbere yayo hari akayira kari hafi y'ubusitani, mu busitani hari igiti gihagaze gifite amababi n'amashami menshi.

Inzu zubakishije amatafari ahiye, ndetse hari isakaje amabati y'ubururu. Mu ibaraza hari imodoka zihaparitse kandi harimo n'igiti kinini gifite amashami menshi, ndetse n'ubusitani burimo ibyatsi n'indabo.

Umugore wicaye ku gitanda ndetse iruhande rwe hari umuganga wamufashe ku rutugu rw'ibumoso yambaye impeta ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso kandi yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru hirya yabo hari undi muntu uharyamye wambaye agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umutuku n'umweru.

Icyumba gisize amarangi y'ubwoko butandukanye harimo umuhondo, beje n'umweru gifite inzugi z'ibiti ndetse hari ameza akikijwe n'intebe ziri mu mabara atandukanye, harimo izifite ibara ry'umukara ndetse n'izifite ibara risa n'ivu.

Umuganga uhagaze mu cyumba kirimo intebe ifite ibara ry'umukara iri munsi y'ameza ateretseho mudasobwa, yambaye itaburiya y'amaboko ifite ibara ry'umweru ndetse afite icupa mu kiganza cy'ibumoso.

Ibitanda biriho abantu baryamye bifite ibara ry'umweru n'ubururu, hari uducupa tw'amazi kamwe gafite umupfundikizo ufite ibara ry'umweru akandi gapfundikije ufite ibara ry'ubururu, hari ibikuta bisize irange ry'ubururu n'umweru kandi hari n'amadirishya.

Inyuba yubatse ku buryo bugeretse hejuru yayo hari ibigega bifite ibara ry'umukara kandi isize amarangi atandukanye, ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure kandi hari imodoka iri gusohoka kuri porotaye.

Umwana wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, imbere ye hari ubusitani ndetse hirya ye hari inyubako isize irangi ry'umweru, ifite amadirishya n'inzugi, hirya yayo hari ikigega gifite ibara ry'umukara.

Abantu bicaye ku ntebe harimo abakecuru ndetse imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye imyenda y'imikara n'umweru kandi ku gikuta hari ikibaho cy'umukara kiriho icyapa ndetse hirya hari amadirishya afite ibirahure.

Inzu isakaje amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, ndetse inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umweru, iruhande rwayo hari ikigega ndetse hari abantu bari gusohokayo, kandi ku ruhande rwayo, hari icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo ikigo nderabuzima cya matyazo.

Akabati gasize amabara abiri harimo irisa n'ivu ndetse n'umweru, hagiye harimo imiti myinshi itandukanye iri mu dukarito dufite amabara atandukanye, hari utw'ibara ry'umutuku n'umweru, ubururu ndetse n'ayandi.

Inyubako zisakajije amabati afite ibara ry'umutuku zisize irangi ry'umweru ndetse zifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure, imbere yazo hari ubusitani burimo indabo n'ibyatsi.

Ibitanda biri ku murongo bishasheho amashuka y'umweru hirya yabyo hari inzugi zifite ibara rya kake ndetse n'inkingi zifite ibara rya shokora ,hari inkuta zisize irangi ry'umweru hamwe ahandi hasize irangi ry'ubururu.

Inzu iriho urugi rw'ibirahure ndetse rusize irangi risa n'ivu, hejuru hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu mabara atandukanye, harimo ry'umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi, kandi iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize amarangi atandukanye harimo irisa beige kandi hari abantu bahagaze mu ibaraza ryayo, imbere yayo hari ibyapa ndetse n'imodoka zihaparitse.

Icyumba kirimo igitanda gifite ibara ry'umweru n'ubururu, ndetse amashuka n'imisego bigishasheho bifite ibara ry'umweru. Harimo televiziyo, kandi hari n'amadirishya afite ibara ry'umweru, ndetse n'ibirahure, na giriyaje.

Icyumba kirimo ibitanda bifite amapine ndetse biriho ibara ry'umweru n'ubururu, kimwe gishasheho amashuka y'umweru n'icyatsi ndetse hirya yabyo hari amadirishya y'ibirahure, hamanitsemo n'amarido afite ibara rya beje

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse isize irange ry'umweru, hari abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze mu ibaraza, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gifite ibara rya kake, hejuru ku nzu hari amagambo ahanditseho avuga ngo inzu y'ababyeyi.

Inzu isakajije amabati y'ubururu kandi ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, imbere yayo hari abantu ndetse n'imodoka ihaparitse kandi ibaraza ryayo harimo abantu bahagaze, isize amarangi y'umweru ndetse n'afite ibara risa n'ivu.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isakarishije amabati y'umutuku, ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahuri, imbere yayo hari amatara ndetse n'ubusitani hari n'abantu bahagaze n'imodoka ihaparitse.

Inyubako isakarishije amabati y'ubururu, ifite amakosara ndetse n'inzugi n'amadirishya y'ibirahure yubakishije amatafari ahiye, ndetse hari asize irangi rya beje imbere yayo hari abantu bahagaze abandi basutamye imbere.

Abantu bahagaze harimo uwambaye agafere k'umweru yambaye itaburiyafite ibara ry'umweru hirya ye hari umugore wambaye mu mutwe w'agatambaro ga ufite ibara ry'ubururu kandi imbere ye hari n'undi uhagaze wambaye ga mu ntoki.

inyubako zisakaje amabati atandukanye, hari izifite amabati y'umuhondo, ubururu, ndetse n'umutuku. Hari imwe irimo hagati yubakishije amatafari ahiye ifite amadirishya y'umweru, kandi hari n'indi isize irangi ry'umuhondo, hagati yazo harimo ubusitani burimo abantu.

Icyumba kirimo amatara afite ibara ry'umweru ndetse na purafo, harimo amabara menshi agiye atandukanye, inkuta ziriho ibara ry'umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'amadirishya y'ibirahure.

Inzu isize irange ry'umweru, imbere yaho hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru avuga ngo Nyarugenge disitirigiti hosipito ndetse hari ibyatsi, imbere yabyo hari akayira k'amapave.

Inyubako iriho icyapa gifite ibara ry'umweru, hariho n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza arimo ibara ry'icyatsi, inzugi zayo zifite ibirahure ndetse zisize irange risa n'ivu. Imbere yayo hari amapave kandi hari n'imodoka ihaparitse.

Inyubako isize irangi rya beje ndetse ifite idirishya r'ibirahure risize irangi ry'icyatsi, hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru, uhagaze mu ibaraza ryayo ndetse imbere yaho hari ibyatsi.

Inzu isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, ifite inzugi ndetse n'amadirishya y'ibirahure arimo giriyaje, hejuru yabyo hariho amakositara, imbere hari amagambo yanditse avuga ngo inzu y'ababyeyi, ndetse mu ibaraza ryayo hari amavase abiri afite ibara ry'ubururu ateretsemo indabo.

Inyubako isize amarangi yumuhondo, hejuru hari amagambo yanditse, mu ibara ryicyatsi, kandi ifite amadirishya y'ibirahure, imbere yayo hari ubusitani burimo umuntu wunamye wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu.

Umugabo uhagaze ari gutunga urutoki ku gikuta kiriho icyapa, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umugabo uhicaye wambaye agakomo ku kuboko kw'ibumoso, yambaye n'umupira ufite ibara ry'umutuku, imbere ye hari ameza ateretseho icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse. Ifite amarangi atandukanye ndetse hari icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza yanditse mu ibara ry'umweru, ndetse hari amadirishya n'inzugi z'ibirahure. Imbere yayo hari esikariye.

Icyumba kirimo ivaze iteretsemo ururabo kandi gifite n'urugi rw'ikirahure, ku gikuta hari ikibaho kirimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yandikishishijwe ibara ry'umweru.

Ibitanda biri ku murongo, bifite ibara ry'umweru, bishasheho amashuka afite ibara ry'icyatsi, icyumba birimo gifite inkuta zisize irangi ry'umweru kandi harimo amarido afite ibara ry'ubururu juru.

Icyumba kirimo intebe zifite amabara atandukanye, hari ameza afite ibara ry'icyatsi n'umweru, kandi hateretseho mudasobwa. Hari igikuta gishushanyijeho amaso, ndetse hari n'ibipirizo bifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Abakobwa bahagaze bambaye udupfukamunwa kandi bafunze ibipfunsi, bambaye amashati y'amaboko magufi, ndetse n'ipantaro bifite ibara ry'ubururu. Inyuma yabo hari indabo kandi hari uri kuruhande rw'ibumoso wambaye agakomo ku kuboko kw'ibumoso.

Icyumba hejuru muri parafu kirimo amatara ari kwaka umweru, hari inzugi hari urwanditseho rimwe, urundi rwanditseho kabiri, urundi rwanditseho gatatu, gifite inkuta zisize amarange atandukanye harimo icyatsi, umweru ndetse hirya hari intebe.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse iruhande rwacyo hari ibyatsi n'amabuye kandi hari n'icyapa hirya y'umuhanda w'igitaka hari ibiti bihagaze birebire.

Icyumba kirimo parafo ifite ibara ry'umweru ndetse hari intebe ihari kandi hari n'amadirishya ariho amarido afite ibara rya beje, hari akabati gasizeho irange ry'umuhondo ndetse na beje.

icyumba kiriho urugi rufite ibara ry'ivu kandi ruriho n'ibirahure, harimo umugore wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse irimo uturango tw'umutuku, yambaye agafiri mu mutwe kandi inyuma ye hari ameza.

Umugabo wicaye mu ntebe aregamye mu ntoki afitemo terefone yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, imbere hari ameza ateretseho ivase irimo ururabo kandi hirya hari umugabo uhagaze wambaye ipantaro yumukara hejuru ye ku gikuta hari isaha.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse isize irange ry'umweru, ku madirishya ariho n'ibirahure, imbere yayo hari umugore uhagaze ufashe ku rutugu rw'umwana yambaye agakote gafite ibara ry'umweru n'umukara, iruhande rwe hari undi uhetse umwana ndetse wamutwikirije agatambaro afite ibara ry'umweru.

Umugabo uri mu nzu wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu. Imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ebyiri ndetse inyuma ye hari idirishya ririho amarido afite ibara ry'umweru.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ndetse ifite n'ibaraza, hari intebe ziri ku murongo ziri imbere yayo zifite ibara ry'umuhondo; kandi ikikijwe n'ubusitani, muri bwo hagiye harimo utuyira dutandukanye.

Abantu bari ku murongo hari n'abandi bicaye, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse hari n'undi uri mu kagare k'abafite ubumuga ndetse hari n'intebe zifite ibara ry'umukara n'urubaho.

Inyubako isize amarangi atandukanye harimo irisa n'ivu, ndetse mu ibaraza ryayo harimo intebe zifite ibara ry'umutuku, amadirishya yayo afite ibirahure ndetse imbere yayo hari ibyapa kandi hari n'ibyatsi n'indabo.

Icyumba gifite ibikuta bisize irangi ry'umweru ndetse ahagana hasi hari akarongo gasize iry'umukara, gifite amadirishya y'ibirahure ndetse n'inzugi kandi hejuru muri parafu harimo amatara hamwe na kamera.

Icyumba kirimo intebe zifite ibara ry'umutuku ndetse hari n'ifite amapine, iruhande rwayo hari ameza ateretseho mudasobwa kandi hari n'igitanda gishasheho agatambaro k'umweru gifite n'umusego ufite ibara rya beje.

Inyubako isakajije amabati y'ubururu. Isize irangi rya beje, kandi ifite inzugi n'amadirishya. Mu ibarazara ryayo, harimo umugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru. Imbere yayo hari akayira karimo amapave ndetse n'ibyatsi.

Abantu bari kugenda bambaye amashati y'amaboko maremare afite ibara ry'umweru, kandi harimo abambaye amapantaro y'umukara bambaye ay'ubururu, imbere yabo hari inyubako isize amarangi atandukanye harimo irangi risa n'ivu, ndetse n'irangi rya beje.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize amarangi atandukanye harimo n'iry'ubururu. Imbere yayo hari amadarapo atatu atandukanye, hagati hari n'i irifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi imbere yayo hahagaze abantu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe y'umukara ifite amapine kandi harimo n'igitanda cyabugenewe, gifite ibara ry'umweru n'icyatsi. Hirya yacyo hari ibikarito bitandukanye ndetse n'igikuta gisize irange ry'umweru.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'icyatsi, bambaye udupira tw'amaboko magufi, dufite amabara atandukanye, hari abagore bakenyeye ibitenge, ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari uteze agatambaro k'umweru mu mutwe, icyumba barimo kirimo amakaro kandi hateretseho n'uducupa tw'amazi.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yanditse mu nyuguti zifite ibara ry'umweru, hari n'ibinini by'amoko atandukanye harimo ibifite ibara rya beje, umweru ndetse n'ibindi bifite ibara rya oranje.

Abaganga bahagaze bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse mu mutwe bambayemo udufire, hari uwicaye wambaye agatambaro gafite ibara ry'umutuku mu mutwe, kandi hirya yabo hari undi muntu wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi.

Umuntu wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara n'umukandara w'umweru, inyuma ye hari undi wambaye agashati k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu.

Umuntu wazamuye amaboko afatanya ibiganza hejuru y'umutwe afite ibiswa ku mutwe, bifungishije imibano ibiri, harimo ako yafungiye inyuma, gafite ibara rya oranje ndetse n'akandi gafungiye imbere gafite ibara ry'umukara.

Umugabo upfukamishije ukuguru kw'iburyo, kuri tapi y'umukara. Yambaye ikabutura n'isengeri bifite ibara ry'umukara, ndetse inyuma ye hari igikuta, gisize irangi ry'umweru. Kandi imbere ye hari n'ikindi cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu babiri bahagaze mu kibuga ndetse hari uwambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo n'inkweto z'umukara kandi hari n'undi ufite baro mu ntoki, yambaye agakabutura gafite ibara ry'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, hirya yabo hari ibyatsi.

Ibiganza by'umuzungu bifashe imbuto zitandukanye, ndetse n'imboga, harimo burokoli, karoti, inyanya, avoka y'igice isatuye mo imbere irimo ikibuto, ndetse urusenda rufite ibara ry'umuhondo, kandi na pome ifite ibara ry'icyatsi.

Ibyo kurya bitandukanye bimwe biri ku masahane, ibindi biri mu gatebo muri byo harimo burokori, urusenda, igitunguru, imineke, amagi ndetse hirya yabyo hari ibikoresho bifashisha bari muri siporo.

Umugabo wambaye ikabutura ifite ibara ry'ivu ndetse ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha, yarambuye ukuguru kw'iburyo ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso yagukojeje hasi.

Umugabo ufite ubwanwa yambaye isengeri ifite ibara ry'ivu, yafunze ibipfunsi kandi ukuboko kw'iburyo yaguhinnye maze ukuboko kw'ibumoso arakurambura akunyuza hejuru kw'iburyo.

Umukobwa wicaye, yasobekeranyije amaguru, ndetse yambaye bisitiri na kola bifite ibara ry'umukara, afite ibisuko ku mutwe, kandi inyuma ye, hari ikiringiti gifite ibara risa n'ivu, iruhande rwe hateretse icupa.

Umuntu wicaye yambaye ikabutura ifite ibara rya kake ndetse imbere ye hari n'undi wunamye wambaye agapira k'amaboko magufi, gafite ibara ry'umutuku n'ipantaro y'umukara ari kumupfuka ndetse yambaye udukomo ku kuboko kw'ibumoso.

Umukobwa wafungiye imisatsi hejuru, yambaye ekuteri mu matwi, ndetse yambaye bisitiri na kora bifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hari agacupa gafite ibara ry'umweru kahatetse, yambaye inkweto zifunze inyuma ye hari ibyatsi.

Umukobwa wigonze yambaye bisitiri ndetse na kora bifite ibara ry'umweru ukuboko kwe kw'ibumoso yagushinze kuri tapi yicayeho ifite ibara risa n'ivu ndetse hariho n'impeta, ndetse ukuguru kw'iburyo yaguhinnye.

Umuntu uteruye ariteri yambaye umwenda ufite ibara ry'umukara, kandi iruhande rwe hari imbuto n'imboga z'amoko atandukanye harimo innanasi, hari n'agacupa k'amazi ndetse n'itureyi irimo amagi.

Umuntu uryamye ndetse n'abandi bamukikije bahagaze harimo n'abasutamye bambaye amajipo afite ibara ry'umutuku harimo umugore wambaye inkweto zifunze, ipantaro y'umukara ndetse afite n'ibisuko ku mutwe. Mu bahagaze hari uwambaye imyenda ifite ibara ry'umuhondo iciyemo akarongo k'umukara.

Agatebo gato karimo brocoli, urusenda, beterave ndetse n'izindi mboga. Hari isahane iriho imineke, inyeri kandi hariindi iriho amagi.

Umugabo usutamye yambaye inkweto, ipantaro n'agapira k'amaboko magufi by'umukara ndetse harimo n'utubara tw'umweru. Imbere ye hari umuntu uhagaze wambaye ipantaro y'umukara umukara n'inkweto z'umukara ndetse n'ishati ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo ufite ubwanwa, mu kiganza cye cy'iburyo afashemo agacupa ari kunywa; ndetse ku kuboko kw'iburyo yambayeho isaha ifite ibara ry'umukara, irimo n'akabara k'umweru, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu.

Abantu bahagaze inyuma y'umugore ukikiye umwana wambaye agapira k'amaboko magufi karimo ibara ry'ubururu, umweru n'umutuku wasamye. Imbere hari umuganga wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara ndetse yambaye isaha ku kuboko n'agakomo.

Akagare k'abafite ubumuga gafite amapine ane ndetse hariho n'ibyuma bifite ibara ry'umutuku kandi gafite umusego w'aho bicara ufite ibara ry'umukara.

Umukobwa ufite imisatsi yambaye ekuteri zifite ibara ry'umweru ndetse mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo icupa rifite ibara ry'ubururu n'umupfundikizo ufite ibara ry'ivu. Yambaye agasengeri gafite ibara rya move.

Imodoka iri mu muhanda ndetse inyuma yayo hometseho ipine ry'umukara, hirya yayo hari ipoto ririho umugozi ujyana umuriro kandi imbere yayo hari fondasiyo yubakishije amabuye ikikijwe n'ibiti.

Umugabo wambaye isengeri ndetse yambaye n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, irimo n'ibara ry'umweru. Yambaye inkweto zifite ibara ry'ivu kandi yambaye n'amasogisi. Ekuteri yambaye mu matwi zifite ibara ry'umweru.

Umuntu wunamye mu muhanda yambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara, ibiganza bye byose bifashe ku ivi ryo kukuguru kw'ibumoso kandi yambaye isaha ifite ibara ry'umukara ku kuboko kw'ibumoso.

Umukobwa wambaye iherena ku gutwi ndetse afite n'imisatsi. Mu kiganza cye cy'iburyo afashemo icupa, ari kunywa kandi yambaye isengeri ifite ibara ry'ivu hamwe n'ibara ry'umukara. Ku rutugu rwe ashyizeho agatambaro.

Umuganga wambaye ga mu biganza ndetse imisatsi yayiboshye nk'ikiziriko, yambaye ishati n'ipantaro, ifite ibara ry'ubururu ndetse mu ishati harimo akarongo k'umweru, imbere ye hari umuntu uhagaze wambaye agapira k'amaboko magufi k'umukara ndetse n'ikabutura, afashe ku byuma hirya yabo hari vandarateri.

Umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umweru w'amaboko magufi kandi ukuboko kwe kw'iburyo yakurambuye, ikiganza cye cy'ibumoso gifashe ku gatambaro kari kuboko kw'iburyo, gafite ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu bicaye bafite amakaramu ndetse n'impapuro bari kwandika. Imbere yabo hari umugabo uhagaze yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara kandi hirya yabo hari irido rifite ibara ry'ubururu.

Umuntu uri gukora siporo ahantu hari tapi ifite ibara ry'icyatsi yambaye udukomo dufite amabara atandukanye ku kuboko kwe kw'ibumoso harimo agafite ibara ry'ubururu, umweru, umuhondo kandi yambaye ipantaro n'umupira bifite ibara ry'umukara.

Umugabo wicaye afite ubwanwa. Ndetse ku kuboko kw'iburyo yambayeho isaha ifite ibara ry'icyatsi, yambaye isengeri ifite ibara ry'umukara kandi mu kuboko kw'ibumoso afitemo icupa ari kunywa.

Umuntu wambaye umupira w'umuhondo, ateruwe n'abantu babiri, bambaye amajire afite ibara ry'umutuku, mo imbere bambayemo udupira tw'amaboko magufi tw'umweru, inyuma yabo hari abandi bantu bahagaze harimo uwambaye ingofero, kandi hari n'ibiti.

Umugabo ufite ubwoya ku maboko, yambaye agapira gafite ibara ry'ivu, k'amaboko magufi, ndetse n'ipantaro. Aricaye , ukuboko kwe kw'iburyo yakurambuye, ndetse ukw'ibumoso agushyira hejuru y'ukw'iburyo, kuriho agatambaro gafite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umuntu uri kunywera mu icupa rifite ibara ry'ubururu n'umweru yafashe mu kuboko kw'iburyo, yambaye isengeri ifite ibara ry'umukara, icyatsi, umweru, n'ubururu kandi inyuma mu bitugu yashyizemo agatambaro gafite ibara ry'umweru.

Umuntu wambaye impeta ifite ibara ry'umukara ku kiganza cy'ibumoso, yambaye ikote ririmo ibara ry'umukara ndetse hari amagambo yanditse mu cyongereza yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse iruhande rwe hari undi wambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'ivu.

Umugabo wicaye mu muhanda, inyuma ye hari ibirabyo, yambaye ipantaro n'inkweto by'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umuhondo, umutuku n'umukara, ukuguru kwe kw'ibumoso yaguhinnye, arambura ukw'iburyo ndetse amaboko ye ayakoza ku kuguru kw'iburyo arambuye.

Umusore uhagaze yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho agatambaro gafite ibara ry'umweru ndetse ku kuboko kw'ibumoso afashemo icupa ari kunyweramo rifite ibara ry'ubururu.

Umuntu uryamye yambaye ipantaro ifite ibara rya kaki iruhande rwe hari abantu bahagaze barimo abaganga bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'undi witangiriye itama wambaye caruvati na kositimu.

Umukobwa uri kwambara agapfuka munwa ndetse mu biganza bye yambayemo ga, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa kandi ariho n'ibitabo.

Umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara ndetse yambaye umwenda afite ibara ry'umweru iruhande rwe hari umuganga uri kumupfukisha igifuko gifite ibara ry'umweru n'umutuku ku kuguru kw'iburyo.

Ufite imisatsi miremire yambaye bestle ndetse na kora ukuguru kw'ibumoso yagushyize imbere, ukw'iburyo akurambura agushyira inyuma. ari kuri tapin ifite y' ibara risa n'ivu kandi hirya ye hari amadirishya n'igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Inzu irimo abantu bambaye udufiri bamwe baricaye abandi barahagaze, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ebyiri kandi hari na telefone ndetse n'igitabo, inyuma yabo hari inzugi z'ibirahure zisizeho ibara risa n'ivu kandi imbere yabo hari televiziyo bari kureberamo.

Umukobwa wicaye kuri tapi ifite ibara ry'ivu, yazamuye amaboko yambaye bisitiri ifite ibara ry'umukara kandi imbere ye hari mudasobwa, ku ruhande rw'iburyo rwe hari agacupa kateretse, inyuma ye hari intebe z'imisego zifite ibara ry'umweru.

Umugabo ufite ubwanwa ndetse mu kiganza cye cyo ku kuboko kw'iburyo afitemo icupa ari kunywa, mu ijosi yambayemo shanete kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu.

Umukobwa ufite ibisuko bifungiye hejuru kandi yambaye ekuteri zifite ibara ry'umweru. Ukuboko kw'ibumoso yakuzamuye agufatisha ku nkokora y'ukuboko kw'iburyo yakojeje mu bitugu ndetse yambaye isaha ku kuboko.

Umuntu uryamye mu kibuga kiriho tapi ndetse yambaye umwenda afite ibara ry'ubururu, n'ikabutura y'umukara hamwe n'amasogisi n'inkweto, imbere ye hari undi uhari apfukamishije ivi ry'iburyo kandi yamufashe ku kuguru, imbere yabo hari baro.

Umuntu wicaye, yambaye inkweto zifite ibara rya pinki, kandi na ekuteri mu matwi. Ndetse yambaye kora ifite ibara ry'umukara, irimo akabara ka pinki. Imbere ye hateretse icupa.

Umugabo uryamye yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru ndetse n'ikabutura rifite ibara ry'icyatsi, ukuguru kwe kw'iburyo yaguhinnye ndetse gufashwe n'umuganga umuri iruhande wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu.

Umuntu bafashe mu biganza yambaye isengeri irimo amabara atandukanye, harimo iry'umutuku ndetse umufashe yambaye ga yambaye nijire y'icyatsi irimo ibara risa n'ivu, n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru, inyuma yabo hari undi wambaye ingofero.

Umugabo uryamye ku gitanda afite tatuwaje ku kuboko kw'iburyo, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umuhondo, iherena ku gutwi ndetse n'ikabutura y'umukara, iruhande rwe hari undi wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara ndetse n'inkweto zifunze.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi, mu kiganza cye cyo ku kuboko kw'ibumoso afashemo baro yanditseho mubare kane ndetse ifite ibara ry'ubururu hamwe n'ibara ry'ivu.

Umugabo ufite ubwanwa ndetse ari kunywera mu icupa rifite ibara ry'ubururu yafashe mu kuboko kw'iburyo, yambaye agapira gafite ibara ry'umukara k'amaboko magufi ndetse n'isume yashyize mu bitugu, ifite ibara ry'umweru.

Umuganga wicaye mu ntebe y'umukara yambaye imyenda y'ubururu kandi ku ruhande rwe hari ameza ariko imigozi igiye ifite amabara atandukanye, imbere hari umwana wambaye agapira gafite ibara rya oranje ndetse akikiwe n'umubyeyi.

Umuntu uryamye yambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara ndetse ibiganza bye yabifatanyije, imbere ye hari umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu amufashe ku kuguru.

umukobwa uri muri siporo, afite ibisuko ku mutwe, yambaye agasenge gafite ibara ry'icyatsi, kandi yazamuye ukuboko kw'iburyo, agukoza ku nkokora y'ukuboko kw'ibumoso, ndetse ikiganza cyako yagikojeje mu bitugu bye.

Umugabo wambaye ipantaro aricaye, yahinnye ukuguru kw'ibumoso hariho ubwoya kandi ukuboko kw'iburyo gufashe igitambaro gifite ibara ry'ubururu yashyize mu ivi ryo ku kuguru kw'ibumoso.

Umuntu wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ukuboko kwe kw'iburyo yakurambuye, ndetse ukw'ibumoso ikiganza cyako agifatisha ku kuboko kw'iburyo, gishyizeho agatambaro karimo ibara ry'ubururu.

Umuntu wambaye iherena ku gutwi, ndetse afite ibisuko yafungiye inyuma, afungisha umubano ufite ibara rya move. Yambaye besitiri ngufi n'ipantaro ifite ibara ry'umukara. Hirya ye hari amavaze arimo ibirabyo, harimo irifite ibara ry'umukara, irifite ibara ry'umutuku.

Umugabo wicaye afite icupa mu kuboko kw'ibumoso ndetse ukuboko kw'iburyo yagushyize ku itako ryo ku kuguru kw'iburyo, yambaye agapira k'amaboko gafite ibara ry'ivu ndetse gafite n'imashini imbere.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ivu ndetse yambaye mu matwi ekuteri zifite ibara ry'umweru, mu ijosi yambayemo agashaneti gafite ibara ry'umukara, mu kiganza cye cy'iburyo afitemo agacupa k'amazi ari kunywa.

Umugore ufite imisatsi yambaye bisitiri ndetse na kora, amaboko ye yayarambuye ayafatisha ku birenge yambayeho amasogisi ndetse ukuboko kw'ibumoso ku kiganza yambayeho impeta, inyuma ye hari agataburete kandi hari n'idirishya ry'ibirahure.

Umugabo ufite ubwoya ku maguru yambaye ikabutura ifite ibara ry'umukara, kandi ku kuguru kw'ibumoso yashyizeho agatambaro gafite ibara ry'umweru n'ubururu yafatishije ukuboko kw'ibumoso.

Umugabo wapfukamishije amavi ndetse afite ubwanwa, yambaye isengeri n'ikabutura ifite ibara ry'umukara kandi hasi harambuye tapi ifite ibara risa n'ivu amaboko ye yayashyize imbere arayarambura.

Umugabo uri mu muhanda ari muri siporo, yambaye isengeri n'ikabutura bifite ibara ry'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru, amaboko ye yayarambuye ayashyira ku kuguru kw'iburyo yazamuye yagushyize ku giti.

Akabati gateretse mu byatsi karimo imiti gakondo igiye iri mu macupa atandukanye ndetse inyuma yaho hari umuntu uhagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse hari n'umuhanda urimo moto n'undi muntu uri kugenda.

Uducupa tubiri dushushanyijeho igikakarubamba ariko dutandukanye amabara kuko kamwe gapfundikishije umupfundikizo w'umutuku gafite ibara ry'umweru, akandi gafite ibara ry'umuhondo kandi umupfundikizo ugapfundikiye ufite ibara rya shokora.

Amakarito agiye afite amabara atandukanye hari iririmo ibara ry'umweru na shokora ndetse n'irindi karito ifite ibara ry'ubururu ; hari imineke, inanasi ndetse inyuma yabyo hari ururabo rufite ibara ry'umuhondo n'ibyatsi.

Akabati gafite ibara ry'umweru gateretsemo amacupa atandukanye y'ubwoko bugiye butandukanye hari icupa rifite ibara ry'umweru ndetse n'umupfundikizo ufite ibara ry'umutuku kandi hari n'andi macupa afite imipfundikizo ifite ibara ry'umuhondo.

Igitunguru cy'igice kimanyuyemo mo imbere hafite ibara ry'umweru kandi hari n'indimu ifite ibara rya beje. Mo imbere inyuma ifite ibara ry'icyatsi nayo isatuyemo ibice bibiri kandi hari n'icupa rifite ibara ry'umuhondo n'icyatsi, hari n'amagambo yanditse avuga ngo baho neza tivi.

Utujerekani dutatu dufite imikondo kandi dufite amabara atandukanye, hari agafite ibara ry'umuhondo gafungira umupfundikizo ufite ibara rya shokora, ndetse hari n'abapfundikishije umupfundikizo ufite ibara ry'ubururu gafite ibara ry'umweru.

Ubantu bari kugenda bahetse ibikapu bifite amabara atandukanye, harimo gifite ibara ry'umutuku, cy'ubururu, umukara ndetse n'ikindi gifite ibara ry'umuhondo. Imbere yabo hari amazi ari guturuka ku musozi amanuka hasi kandi bakikijwe n'ibihuru byinshi.

Udukarito n'amacupa atandukanye arimo imiti gakondo, harimo itatu ifite ibara ry'umutuku n'umweru n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu bwijimye, kandi hari n'utundi dukarito tubiri dushushanyijeho igikakarubamba.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, hari ameza ateretseho amacupa agiye atandukanye hari apfundikije imipfundikizo ifite ibara ry'umuhondo ndetse hari n'akajerekani gafite umukondo w'umweru n'icupa ry'icyatsi hamwe n'umuntu uhagaze iruhande rw'ayo meza.

Umuntu uhagaze mu byatsi by'ubwoko butandukanye, yambaye ikote ry'amaboko rifite ibara ry'umukara, ndetse imbere yambariyemo umwenda ufite ibara ry'umutuku n'umweru, mu kiganza k'ibumoso afashemo ibyatsi.

Ipapayi y'igisate mu imbere harimo imbuto nyinshi zifite ibara ry'umukara ndetse ifitemo ibara risa na oranje inyuma ifite ibara ry'icyatsi.

Amacupa ari ku murongo, ariho, ikibiranga gisa, gifite ibara ry'umweru n'icyatsi, ariko agiye atandukanyijwe n'uburyo ateye, harimo rifite umupfundikizo wa shokora, ndetse hari n'irindi rifitemo ibara ry'umweru n'umutuku.

Udukarito dushushanyijeho igikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi, harimo akari hagati gafite ibara ry'umuhondo ndetse gapfundikishije umupfundikizou ufite ibara rya shokora, akari iruhande rwako rw'ibumoso gafite ibara ry'umweru kandi umufundikizo wako usa umutuku.

Igiti gihagaze gikikijwe n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye, hirya yacyo hari ibindi kandi hejuru hari ikirere kirimo ibara ry'ubururujuru ndetse n'ibicu by'umweru.

Uducupa tw'ubwoko butandukanye ndetse n'udukarito biteretse ku makaro, harimo uturi mu ishashi ndetse kamwe gapfundikije umupfundikizo ufite ibara rya shokora gafite ibara ry'umuhondo, akandi gafite ibara ry'umweru gapfundikije umupfundikizo ufite ibara rya oranje.

Akabati gafite ibara ry'umweru gatondetseho imiti ndetse n'amacupa y'ubwoko butandukanye, hari afite ibara ry'umuhondo, andi afite ibara ry'umweru ndetse hari icupa rifite ibara ry'umweru ripfundikije umupfundikizo w'umutuku.

Ikarito ifite ibara rya kacyi, hari utundi twinshi duteretse muri yo dufite ibara ry'umuhondo kandi dupfundikije imipfundikizo rifite ibara rya shokora. Inyuma hashushanyijeho igikakarubamba ndetse hari akandi kari hirya y'iyo karito.

Agatambaro gafite ibara rya kaki gateretseho isahani n'itasi ifite ibara ry'umweru, kandi ku isahani hariho tangawizi n'ironji bikase, mu itasi harimo iji ifite ibara ry'umuhondo.

Umuganga wambaye agafire mu mutwe udafite ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa, yambaye itaburiya irimo amabara abiri, harimo iry'umweru n'umukara ku ijosi, ndetse imbere hari ameza ateretseho imiti igiye itandukanye, hamwe n'udukarito dufite ibara ry'umuhondo n'umutuku.